Umwana w'umukobwa ubona afite agacupa mu ntoki ari ku mugezi ubona akina n'amazi, ubona ko asa n'ugiye kuvoma amazi mu gacupango anywe. Ni byiza ko tunywa amazi ni meza ku buzima bwacu kandi tugakaraba intoki dukoresheje amazi meza n'isabune kugira ngo turusheho kugira isuku no kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Ahantu heza ubona hicaye abarwayi batandukanye baje kwa muganga kwivuza ubona bafite amakarine ndetse na mituweli baje kugira bahabwe serivisi z'ubuzima, ubona ko barwaye. Ni byiza ko igihe cyose urwaye ugana ahantu nk'aha kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, kandi batanga serivisi nziza kugirango barusheho gufasha abarwayi kumera neza.

Abana beza ubona baseka bishimye, umubyeyi arimo abasukira amazi ngo bakarabe intoki kugirango kugira ngo abatoza kugira isuku nziza no kwirinda kuba bakwandura indwara ziterwa n'umwanda igihe bariye badakarabye, cyangwa se igihe batamiye intoki badakarabye. Ni byiza ko bakaraba mbere yo kurya ndetse na nyuma yo kuva mu bwiherero.

Umwana w'umunyeshuri ubona yambaye impuzankano, ubona imbere ye hari kandagira ukarabe, ubona hirya hariyo n'undi munyeshuri uhahagaze, ubona ko ari mu kigo hagati ahantu hari amashuri meza. Ubona ko uyu umwana ari gukaraba intoki kugira ngo arusheho kugira intoki nziza, ndetse no kwirinda indwara ziterwa n'umwanda. Dukarabe intoki turusheho kwirinda indwara mbi ziterwa n'umwanda.

Umwana ubona ari guseka ari ku mugezi arimo avoma amazi ubona ko yishimye igihe hari amajerekani ubona ko aje kuvoma ,ubona ko yishimiye kuba afite amazi meza ari gukaraba . Ni byiza ko dukoresha amazi meza kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze , amazi ni isoko y'ubuzima kandi afasha umubiri yacu cyane cyane nko mu maraso gutuma amaraso atembera neza.

Umwana w'umuhungu ubona hariyo n'abandi inyuma ye hari umubyeyi n'undi w'umuhungu umuri iruhande ubona ari kuvoma amazi yishimye, nk'uko tubizi amazi ni meza ku mubiri yacu. Afasha imibiri yacu gutuma turushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Tubungabunge ubuzima bwacu ndetse tunywe n'amazi meza.

Abana b'abanyeshuri ubona bambaye uniform harimo abakobwa ubona ko aribo biganje. Ni byiza ko dukaraba intoki nkuko ubibona bari ku mugezi, ahantu heza hari umugezi gakondo, ubona ko ari umugezi mwiza utanga amazi meza ubona ko bari gukaraba intoki kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza ,kandi buzira umuze birinda umwanda n'indwara zose zaterwa n'umwanda. Dukaraba intoki twirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Intoki ubona ziri gukaraba, ubona ko ari kuri kandagira ukarabe, ari gukaraba amazi meza n'isabune. Tubungabunga ubuzima bwacu kandi twirinda indwara ziterwa n'umwanda igihe turiye tudakarabye, tukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kugirango ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umwana w'umuhungu ubona arimo aseka akaraba intoki ubona ko ari ku mugezi, ubona ko hirya hateretse amajerekani, ubona ko yari yaje kuvoma. Ni byiza ko tubungabunga kandi tugakaraba n'intoki zacu buri munsi kugira ngo turusheho kwirinda indwara ziterwa n'umwanda, tugirire isuku intoki zacu turusheho kubungabunga ubuzima bwacu turinda umwanda.

Kandagira ukarabe ubone umunyeshuri arimo akarabaho. Ubona ko arimo akaraba amazi meza n'isabune kugira ngo arusheho kugira isuku, yirinda indwara ziterwa n'umwanda muke, nko kudakaraba intoki. Nawe mubyeyi ni byiza ko igihe umaze gutegura amafunguro, cyane mbere y'uko uyategura ukaraba intoki, ndetse na nyuma yo kuva mu bwiherero.

Ahantu heza ubona hari abagabo n'abagore bambaye ingofero z'umweru, imipira y'umweru, bafite ishusho yanditseho ngo:" Umunsi Mpuzamahanga wo kurwanya kanseri." Ni byiza ko twirinda indwara nka za kanseri, twipimisha kugira ngo tumenye uko ubuzima bwacu buhagaze nk'uko tubishishikarizwa n'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Ubuzima RBC.

Umusaza ubona wambaye agapfukamunwa, yambaye agapira kanditseho RBC,ubona ko hari umuganga urimo umukingira, ubona ko inyuma hariyo abandi baganga, ni byiza ko twikingiza kugira ngo ibyorezo bimwe na bimwe bitadufata, n'igihe cyose turwaye kandi tugane kwa muganga barusheho kudufasha. nkuko dubishishikarizwa na RBC Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima.

Abantu barimo umugabo n'umugore ubona ko bafite ibikoresho bitandukanye, bari ahantu heza hari intebe ndetse hari amazi ku meza, hari n'ameza atandukanye, ubona wagira ngo hagiye kubera inama yita ku buzima ndetse itanga n'inama ku buzima kugira ngo barusheho kubungabunga ubuzima bwabo no kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umubyeyi ubona uteraye umwana, ubona ko yaje kuvoma amazi meza, ubona yishimye amwenyura, ubona yaje gushaka amazi kugira ngo arusheho gukomeza kwita ku isuku y'umwana we ndetse na we ubwe kuri we. Ni byiza ko tubungabunga ubuzima bwacu tugira isuku dukoreshaje amazi meza n'isabune, twite no ku bana bacu kugira ngo tubakure mu igwingira tugaburire neza kandi tubakarabye amazi meza.

Ahantu hagaragara umugezi hari umwana wagiye kuvoma ari kunywera amazi ku mugezi, ubona ko yishimye cyane, amazi ari meza ku buzima bwacu. Ni byiza ko tunywa amazi kandi tukavoma amazi tukayakoresha tukikoraho amasuku ku mibiri yacu, imyambaro ndetse n'aho tuba kugira ngo turusheho kuba ahantu heza no kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Amazi ni imwe mu miti myiza ifasha abantu kugira isuku ndetse no kubaho mu buzima bwiza kandi bugira umuze.

Umukobwa ndetse n'abana bane ubona ko umukobwa ari gufungurira abo bana bane ngo bavoma amazi. Ubona abana bishimye, aya mazi arabafasha iki ? Barayajyana bayakoremo amasuku urabona ko basa nabi. Ni byiza kandi ko tubungabunga isuku yacu dukoresheje amazi meza n'isabune dufura imyambaro, dukora amasuka ahadukikije ndetse tunakora amasuku ku mibiri yacu, dukoresheje amazi meza isanzwe kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu hateraniye abantu benshi ubona baje kuvoma amazi harimo abana, n'aba papa n'aba mama. Ni byiza ko tuvoma amazi meza nk'aya kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze, twirinde kujya kudaha ahantu yaretse kugira ngo twirinde indwara ziterwa n'umwanda, dukoresha amazi meza nk'aya, turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze nk'uko tubizi amazi ni isoko y'ubuzima.

Ahantu ubona hari umugezi, hari umugore n'umugabo ubona baje kuvoma, ubona bishimiye kuba baregerejwe amazi meza abafasha mu kugira isuku ndetse no gukora ibintu byinshi bitandukanye, ni byiza ko twegerezwa amazi kandi tukayakoresha neza nk'uko bikwiye akadufasha tukabungabunga ubuzima bwacu tugira isuku yaba ku myambaro ndetse no ku mubiri n'aho dutuye, tubungabunge ibidukikije harimo n'amazi.

Ahantu ubona hari ababyeyi benshi batandukanye, ubona ko bari kwigisha ababyeyi uburyo ki bakora abana mu igwingira babaha ibiryo byujuje intungamubiri, harimo nk'amata kubaha imbuto ndetse n'ibindi. Kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza bagwanye igwingira ku bana.

Umubyeyi ubona ateruye umwana ,ubona ko avuye kwa muganga ,ubona ko afite ifishi mu ntoki ,ubona urahateraniye ababyeyi benshi ,ubona ko wagirango ngo baje gukingiza abana ,ni byiza ko dukingiza abana bacu tukabajyana kwa muganga kugira ngo ururusheho gukurikiranwa bagire ubuzima bwiza, Natwe babyeyi nk'igihe twagize ikibazo cy'uburwayi tugane kwa muganga turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ibikoresho byiza ubona byifashishwa mu buvuzi, ubona ko ari bomboni ziha abantu umwuka kugira ngo barusheho guhumeka igihe barwaye bakaba batari kubasha guhumeka neza, ni byiza ko tujya kwa muganga igihe cyose twarwaye, turembye kugira ngo barusheho kudufasha kuko bigaragara ko hari ibikoresho byiza bitandukanye bishobora gufasha umurwayi.

Abantu ubona bambaye imyenda isa harimo n'abapolisi ubona bari ahantu bagiye gutera imboga ku karima k'igikoni, ni byiza ko buri rugo rugira akarima k'igikoni bifasha abantu kwita ku buzima bwabo ndetse bigatuma barushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, tubungabunge ubuzima bwacu dutera imboga twubaka n'uturima tw'igikoni.

Umugore ubona wagiye kuvoma, ubona afite ijerekani, abona ko yishimye aseka, amwenyura avuga ati twegerejwe amazi, ni byiza ko dukoresha amazi asukuye kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, tunabungabunge umutekano w'ubuzima bwacu. Tuvome amazi meza, tuyakoreshe dukora amasuku ndetse tunayatekesha, tunayoga intoki mbere yo kurya na nyuma yo kuva mu bwiherero na mbere yo gutegura amafunguro.

Abagabo babiri bicaye ku ntebe bateganye, ubona ko imbere yabo hateretse amacupa y'amazi barimo banywa amazi, ubona ko amazi ari meza ku buzima bw'abantu bwa buri munsi, ubona ko bari ahantu wagira ngo bagiye gufata ingamba ku bijyanye n'ubuzima kugira ngo barusheho kubungabunga ubuzima bwa muntu ndetse arusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Ni byiza ku tunywa amazi ndetse tukanakurikiza ingamba ziva mu nama nk'izi kugira ngo turushe kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Abanyeshuri ubona bambaye iniforume, bari kunywa amazi yo mu kigega, ubona ko amazi yo mu kigega aba atari meza ijana ku ijana. Ni byiza ko turushaho kubungabunga ubuzima bwacu, tunywa amazi meza asukuye kandi atetse kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umugore ubona ari kuvoma ubona ko ari abagore baje kuvoma batandukanye, ubona ko bari gufungura amazi kugira ngo bavome. Ni byiza ko tubungabunga ibidukikije cyane cyane twita ku mazi kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, tuvoma amazi dusukura imyambaro kuko amazi ni meza. Amazi ni isoko y'ubuzima, adufasha gusukura imyambaro no kugira isuku ku mibiri yacu, kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Abagore benshi ubona harimo abambaye amajire y'icyatsi ubona ko ari abagore bihurije hamwe bari ahantu barimo bagirana inama ku bijyanye n'ubuzima kugira ngo barusheho kwita ku buzima bwabo n'ubw'imiryango yabo cyane cyane nk'abana babo, kugira ngo barusheho kubagaburira indyo yuzuye barwanye igwingira mu bana babo . Ni byiza ko tugirwa inama zijyanye n'ubuzima kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima bwacu tugire ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

ahantu ubona hateraniye abantu benshi ubona ko ari inama yahabereye irimo yiga ku bijyanye n'ubuzima kugira kugirango ngo irusheho kubungabunga ubuzima bw'abaturage no gushyiraho ingamba nshya zafasha abaturage kwirinda ndetse no kwimakaza mu buzima bwiza bwa buri munsi ni byiza ko dukurikiza ingamba zaba zafatiwemo anhangaha ubonaba hari ibikoresho bitandukanye bicaye ku ntebe imbere bafite amamashini amaraptop ndetse abona ko uwo mugabo arimo afite mikoro yambaye neza

Abana ubona ko bagiye kuvoma ubuna umwe ari kubafungura amazi ngo bavome, ubona ko batonze umurongo, hari amajerekani manini amadomoro ndetse n'utubido dutoya, ni byiza ko dukoresha amazi meza ndetse tukanavoma amazi meza kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu hateraniye abantu benshi, ubona hariyo abantu benshi batandukanye, baje guhabwa serivisi ku bijyanye n'ubuzima. Kugira ngo bagire byinshi babumenyaho, bamenye n'uko bakwitwara muri sosiyete yabo mu buzima bwa buri munsi. Ni byiza ko tujya ahantu nk'aha hateraniye abantu benshi hari gutangirwa inama nk'izo, kugira ngo turusheho kugira amakuru menshi ku buzima, twirinde indwara mbi bishobora kudufasha dukurikiza amakuru twahawe.

Ahantu heza hari abana batandatu, ubona batatu bari ku mugezi bavoma banakaraba amazi intoki. Abana ubona ko bakunda amazi babanyeshuri, ni byiza ko tugira isuku ku mibiri yacu ndetse twifasishije amazi meza nk 'aya ,tunabungabunga ibikorwa remezo nk'amazi. Ubona ko ari byiza ko tubungabunga amazi kugira ngo turusheho kuyakoresha mu bikorwa byacu bya buri munsi.

Ahantu heza, hari abamama n'abapapa ubona, bari guha umwana ikinini. Ni byiza ko twita ku bana bacu kugira ngo turusheho kubarinda ibintu bijyanye n'igwingira, barushaho kubaho neza, tubajyana kwa muganga babaha imiti, babaha n'ibinini by'inzoka kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umugore urimo useka ubona ko yishimye, arimo akaraba kuri kandagira ukarabe, nk'uko tubizi gukaraba intoki ni byiza mbere yo gutegura amafunguro na nyuma yo kuva mu bwiherero. Ni byiza ko dukaraba intoki igihe cyose dusa nabi, kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza no kubungabunga isuku no kwirinda indwara zaterwa n'umwanda. Igihe uriye udakarabye.

Ahantu heza ubona hari umugezi hari umuntu urimo akaba mu ntoki kugirango ngo arusheho kugira ubuzima bwiza, kandi buzira umuze, yirinda umwanda n'indwara zose zaterwa n'umwanda, igihe ashobora kurisha nk'intoki adakarabye, akaba yakwandura izo ndwara ni byiza ko dukaraba intoki mbere yo kurya na nyuma yo kuva mu bwiherero kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Abana benshi ubona barimo barwanira gukaraba intoki, nkuko bigaragara bari ku mugezi buri wese arimo aharanira gukaraba intoki kugira ngo arusheho kugira isuku nziza, isuku ni isoko y'ubuzima abana nkuko bari kubigaragaza bakarabye buri wese ashaka gukaraba kugira ngo agire isuku. Babyeyi natwe dukarabe mbere yo gutegura amafunguro ndetse na nyuma yo kuva mu bwiherero tunashishikariza abana gukaraba intoki n'amazi meza n'isabine no kugira ngo turusheho kwimakaza isuku.

Ahantu ubona ko ari ku mugezi hateraniye abantu benshi ubona ko baje kuvoma bishimye baseka bishimiye kuba begerejwe amazi meza kandi bari kuvoma amazi yabafasha akabagirira akamaro ku mubiri wabo bakaba bakora amasuku ku mibiri ndetse no ku myambaro ndetse n'aho batuye bakaba banatekesha amazi ibiryo byiza kurushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Ni byiza ko tunywa amazi tukanatekesha amazi meza.

Abagore batatu nk'uko bagaragara ubona ko barimo baje kuvoma ubona ko umwe ari kuvoma ari gutega amazi abandi bakajya hirya bakamufungurira bamuvomera ni byiza kobungabunga ibidukikije kandi tugakoresha amazi yacu neza kuko amazi ni isoko y'ubuzima atubungabunga ibidukikije turushaho kugira amazi meza n'ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Abana, ababyeyi, ndetse n'umubyeyi uteruye mwana. Ubona ko uyu ari umuryango unicefu wita ku bana nk'uko bigaragara, ubona ko bagaragaza ikigero cy'abana bitaho, n'uburyo ki tugomba gufata ubuzima bw'abana bacu neza, kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze nk'uko tubishishikazwa na unicefu ifasha abo bana.

Ahantu heza ubona hari abaganga batandukanye. Hari n'ababyeyi batandukanye bateruye abana ubona ko baje gukingiza abana. Ni byiza ko ababyeyi dukingiza abana kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza no kurwanya igwingira kandi tubagaburira indyo zuzuye. Kandi ikibazo cyose umwana agize ni byiza kumujyana kwa muganga, kuko umwana ni umukungu w'ejo hazaza.

Ababyeyi ubona bicaye ku murongo. Ubona hari umuganga arimo abapima ibijyanye n'umuvuduko w'amaraso kugira ngo arusheho kumenya uko ubuzima bwabo buhagaze, na bo barusheho kumenya uko bahagaze. Ubona inyuma yabo hari jardin nziza. Hateyemo umukindo n'indabo zitandukanye. Ni byiza ko tubungabunga ubuzima bwacu tugana amavuriro, ndetse n'abaganga bakadufasha badupima kugira ngo turusheho kumenya uko duhagaze.

Ikirango cyiza kigaragaza ikigo gishinzwe ubuzima ku isi aricyo cyitwa world health organization. iki kigo gishinzwe ubuzima ku isi ndetse n'imibereho ya muntu wese. mbese ni gute umuntu yabaho kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza, kibungabunga ubuzima bw'abantu ku isi yose, kikanashyiraho ingamba nziza zatuma abantu barushaho kugira ubuzima bwiza.

Abana babiri ubona bishimye. Umwe arigusukira undi amazi ayakuye mu gikombe. Ubona ko umwana umwe ariguseka. Ubona ko ari kwimakaza isuku nk'umuco mwiza. Isuku ni isoko y'ubuzima. Dukarabe intoki n'amazi meza n'isabune kugira ngo turusheho kwirinda indwara zandura zitewe n'umwanda.

Umu mama ubona afite ijerekani ari mu mazi ubona ko hari undi mugabo ufite igare ari kurihogereza ubona ko ari amazi mabi umu mama ari kuvoma, bigaragara nk'aho bari kwerekana ko tudakwiye kuvoma amazi mabi ahubwo tugomba kuvoma amazi yo kuri robine kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwihagaxeho kandi buzira umuze, turinda indwara ziterwa n'umwanda mubi nko gukoresha amazi mabi.

Abana bane ubona baje kuvoma bari ku mugezi mwiza, ubona ko baje kuvoma amazi kugira ngo barusheho kubungabunga ubuzima bwabo bagira n'isuku, binyuze ku kuba bakoresha amazi meza. Ni byiza ko dukoresha amazi meza, kuko amazi ni isoko y'ubuzima. Ni byiza dukoresha amazi kandi tubungabunga ibidukikije, ubona ko bari ahantu hari jaride nziza, ibyatsi nyuma yabo.

Umubyeyi urikumwe n'umwana mutoya ubona ko bagiye kuvoma amazi badaha ahantu yaretse. Ni byiza ko twirinda kudaha amazi nk'aya kuko aba ari mabi kugirango ngo turusheho kwirinda indwara ziterwa n'umwanda, ndetse aya mazi yagutera inzoka akagutera n'impiswi. Ni byiza ko twirinda kunywa amazi nkaya cyangwa tukayakoresha kugirango turusheho kubungabunga ubuzima bwacu no ugukomeza kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umwana w'umuhungu ubona afite isabune, ubona ko hari umubyeyi ari kumusukera amazi mu ijage ubona ko arimo gukaraba intoki ze kugira ngo arusheho kwirinda indwara zandurira mu mwanda igihe umuntu ariye nibura atakarabye, ni byiza ko dukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kuko isuku ni isoko y'ubuzima.

Umwana w'umukobwa ubona yishimye aseka, ubona ko ari imbere ya kandagira ukarabe arimo akaraba kugira ngo arusheho kubungabunga isuku ndetse no kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze no kwirinda indwara ziterwa n'umwanda akaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Ni byiza ko dukaraba amazi meza n'isabune kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Abana ubona ko biganjemo abakobwa, ubona ko bambaye imipira yanditseho UNICEF, ubona ko bishimye, UNICEF ni ikigo Mpuzamahanga, gifasha abana, kikita no kubana kikabafasha kikabaha ubufasha bwose butandukanye, harimo nko kubishyurira amashuri ndetse no kubaha ibiryo bitandukanye, birimo intungamubiri bibafasha gukura neza kugira ngo barusheho kurwanya igwingira.

Ahantu hateraniye abantu benshi ubona harimo abagore benshi ubona ko biganje, bahetse abana ndetse bateruye n'abandi ubona ko bari kwa muganga ahubwo na twagirango ngo bari kwandikisha abana mu gitabo, ni byiza ko tubunga bunga ubuzima bwabana bacu tugana kwa muganga kugira ngo turusheho kugirwa inama ndetse no kuba twagendera ku ngamba zafashwe kwa muganga.

Umwana w'umuhungu ubona afite udukombe tubiri turimo amazi, ubona ko ashobora kuba ari amazi mabi, ubona ko hakurya hariyoa abandi bana benshi bashaka kunywa amazi mabi, ni byiza ko tubuza abana bacu kunywa amazi yose babonye tukabatoza kunywa amazi meza avuye ku mugezi ndetse byaba byiza tukanayateka kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze nk'uko tubizi amazi meza ni isoko y'ubuzima.

Umurwayi uryamye ku gitanda ubona hari umuganga umuhagaze iburyo n'umuhagaze ibumoso, ubona ko umuhagaze ibumoso arimo amupima kugira ngo amenye ko umutima wari gutera ndetse arebe ko nta muvuko w'amaraso arwaye. Ni byiza ko igi cyose twarwaye tujya kwa muganga kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima bwacu, tubukure mu kaga abaganga babwitaho waduha imiti myiza ibufasha kumera neza ni byiza ko tugira ubuzima bwiza kandi buzima umuze tugana kwa muganga.

Ahantu hari abagabo babiri ubona barimo kwigisha ku bijyanye n'indwara ya Mabaga, ni byiza ko dukurikiza inama batugira ubona ko hateraniye inama z'ukuntu bakwiga ukuntu bahagarika icyorezo cya Mariburu, ni byiza ko tubungabunga ubuzima bwacu, tudasuhukanya, dukaraba intoki tugire isuku, kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima bwacu no kwirinda indwara z'ibyorezo.

Umubyeyi mwiza ubona yambaye imyenda myiza yikenyeje n'igitenge ubona ko yikoreye indobo y'umutuku atwayaye iy'umuhondo mu ntoki. Ubona ko avuye gushaka amazi kugira ngo arusheho kubungabunga ubuzima bwe akoresheje amazi meza kugira ngo arusheho kugira isuku no kubungabunga ubuzima bwe, kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umuganga ubona ari guha umuti umubyeyi ateruye umwana kugira ngo umwana arusheho kumera neza no kugira ubuzima bwiza, ni byiza ko igihe abana bacu barwaye tubajyana kwa muganga bagahabwa imiti y'abana ibafasha kuva mu ibara ry'umutuku bakajya mu ibara ry'icyatsi kugira ngo barusheho kugabanya igwingira ry'abana, ni byiza ko tujyana abana kwa muganga.

Abagabo babiri ubona bicaye ku ntebe ebyiri zitandukanye ubona imbere yabo hateretse amazi, ubona ko wagira ngo bari mu nama iganira ku bijyanye n'ubuzima kugira ngo bashyireho ingamba nshyashya nziza zafasha abana mu kubungabunga ubuzima, ndetse n'uburyo bwiza bwakoreshwa kugira ngo abantu barusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ababyeyi benshi ubona bateraniye ahantu hamwe bicaye ku ku mukeka, ubona ko bateruye abana batoya b'impinja. Ubona ko bari kubaha amata kugira ngo ngo barusheho kurwanya igwingira no gutuma bagira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Ni byiza ko dukora icyatuma cyose abana bacu batagwingira, tubaha amata, amagi, imineke ndetse n'ibindi. Tubahe ibikungahaye ku ntungamubiri kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umusaza n'umwana uhagaze inyuma ubona hari umusore umeze nk'aho ari umuganga wambaye itaburiya n'agapfukamunwa na masike ikingira amaso ubona ko arimo ababwira ku bijyanye n'ubuzima ababwira ati tubungabunge ubuzima bwacu, kugira ngo turusheho kugira ubuzima buzira umuze twambara udupfukamunywa dushyiramo intera kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza no kwirinda ibyorezo bitandukanye.

Ahantu heza ubona hateraniye inama ivuga ku bijyanye n'ubuzima, ese ni gute twagera ku bukungu nta buzima? ni byiza ko tubungabunga ubuzima bwacu kugira ngo turusheho kugira ubukungu burambye n'urwego tugire ku iterambere nk'uko bigaragazwa ni byiza ko tugira ubuzima kugira ngo tugere ku iterambere, nta buzima nta terambere ribungabunga ubuzima bwacu turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umwana w'umukobwa ubona arimo gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Ni byiza ko dukaraba intoki kugira ngo turushaho kwirinda indwara ziterwa n'umwanda, igihe tugiye gufata amafunguro ndetse na nyuma y'uko tuva muri tuwarete, ni byiza ko dukora amasuku ku ntoki zacu ku myambaro ndetse no ku mubiri, kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze muri rusange.

Abagore ndetse n'abagabo ubona bicaye bambaye udupfukamunwa bambaye imipira idasa hejuru ubona mwambaye imipira y'umweru abandi y'icyatsi ubona ko buri wese imbere yateretse icupa ry'amazi ku meza ndetse hari n'agatabo gato ubona ko bashyizemo intera basa nk'abari kwirinda icyorezo ,ni byiza ko igihe cyose twirinde indwara zitandukanye nk'ibyorezo dushyiramo intera hagati yacu kandi tukirinda gusuhuzanya mu biganza kandi tugakaraba keshi mu ntoki dukoresha umuti w'ubugenewe witwa Handi sanitayiza.

Abajyanama b'ubuzima ubona hari umuntu wagasuye ubona ko bishimye cyane aho baba bari kugirwa inama ndetse bahabwa n'ingamba nziza bakoresha kugira ngo barusheho gukomeza kubungabunga ubuzima bw'abaturage bamenye uko buhagaze banabafasha kubagira inama kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Abantu benshi ubona biganjemo abambaye amataburiya, bameze nk'aho ari abaganga n'abandi bambaye amabaji, ubona ko bahuriye hamwe, bagaragaza uko wakwirinda ndetse ukanabasha kumenya ibijyanye n'ubuzima, aba ni abantu ushobora kwegera bakakugira inama ku bijyanye n'ubuzima ukarushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ababyeyi batandukanye bicaye hanze ubona harimo n'umwana ufite terefone mu ntoki, ubona ko baje ku ivuriro kugira ngo barusheho guhabwa serivisi nziza zijyanye n'ubuzima, barushe gukomeza kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Tugane amavuriro igihe cyose turwaye twahuye n'ikibazo cy'uburwayi kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze ba muganga batwitaho.

Ahantu ubona hateraniye abantu benshi harimo n'abajyanama b'ubuzima, ubona ko bari guhabwa amabwiriza ndetse n'ingamba nziza bageza ku baturage kugira ngo barusheho kubungabunga ubuzima bwabo, banabagire inama barusheho kwita ku buzima bwabo kuko amagara araseseka ntayorwa, twite ku buzima bwacu ni bwo bukungu dufite.

Ahantu hateraniye abantu benshi, ubona harimo abayobozi, umupolisi n'abandi bayobozi, ubona ko hari umugabo uhagaze imbere, arimo abashishikariza anababwira inama nziza ku bijyanye n'ubuzima, anababwira ukuntu bagakwiye kwita ku buzima bwabo kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu ubona habereye inama ivuga ku bijyanye n'ubuzima n'ukuntu abantu bagira amakuru ku bijyanye n'ubuzima n'ukuntu bakwitabwaho. Ni byiza ko dukurikiza ingamba ziva mu nama nk'izi kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza ubona ko hari abagabo babiri n'umugore umwe bicaye imbere bari gutanga izo nama hari n'abandi bitabiriye inama bakurikiye.

Umwana w'umuhungu mutoya ubona afite igikombe cy'amazi yagiye kuvoma amazi ngo anywe , ubona ko ari amazi meza yarushaho gufasha umuntu kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Amazi nk'uko tubizi ni isoko y'ubuzima tuyanywe kandi tuyabungabunge kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Abaganga ubona bambaye imyenda isa myiza ubona bari kuvura umurwayi hari ibikoresho bitandukanye bambaye udupfukamunwa, imyenda y'ubururu abona ko bameze nk'abari kumubaga barimo bagira ngo ubuzima bwe butajya mu kaga bamuvura indwara arwaye kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza. Ni byiza ko tugana amavuriro kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze igihe twarwaye badufasha baduha imiti byaba ngombwa bakanatubaga.

Abana babiri ubona abari ku mugezi, barimo baseka bishimye, bakaraba intoki n'aya mazi meza. Ni byiza ko dukoresha amazi meza kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Amazi meza ni isoko y'ubuzima. Ni byiza ko dukaraba intoki mbere yo kurya, nyuma yo kuva mu bwiherero ndetse na mbere yuko dutegura ibyo kurya nk'amafunguro ndetse n'ibindi. Amazi ni meza ku mibiri yacu, tuyakoreshe kandi tuyabungabunge.

Abagore babiri ubone hari undi inyuma urimo abafungurira amazi, ubona ko baje kuvoma, bambaye n'udupfukamunwa, ubona ko bari kubanza gukaraba intoki kugira ngo barusheho kugira isuku kandi nk'uko tubiza isuku ni isoko y'ubuzima kandi nanone amazi meza nk'aya ni isoko y'ubuzima, arushaho kudufasha kwita ku buzima bwacu dukora isuku ku mubiri wacu ndetse n'imyambaro ndetse n'aho dutuye. Ni byiza ko tubungabunga ibidukikije, ubona ko hari umugabo umeze nkaho arimo abaha amazi kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Abantu biganjemo igitsina gore ubona bafite amajerekani bagiye ku mugezi gushaka amazi kugira ngo barusheho kwita ku mibiri yabo bakora isuku bakoresheje amazi meza, banayatekeshe kugira ngo basheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Ni byiza ko dukoresha amazi meza nk'aya kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umubyeyi ubona ari koza umwana we anamutoza amubwira ati:'' Mwana wanjye isuku ni nziza.'' Ni byiza ko tubungabunga isuku yacu kugira turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Dukarabe intoki mbere yo kurya na nyuma yo kuva mu bwiherero n'amazi meza n'isabune, kugirango ngo turusheho kugira isuku no kwirinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda.

Ahantu hicaye ababyeyi ubona bicaye hasi, ahantu hari igishushanyo inyuma cyanditseho RBC, ubona ko bari gushishikazwa ku bijyanye n'ubuzima kugira ngo barusheho kumenya uko bakwita ku buzima bwabo ndetse n'ubwa bagenzi babo babagira inama kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima bwa muntu no gutuma umuntu agira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Abana beza ubona ko bavuye kuvoma umwe arimo akorera undi indobo. Ubona ko ari byiza ko tuvoma amazi kugira ngo turusheho kugira isuku. Kuko amazi adufasha mu kugirira isuku imibiri yacu, gufura imyambaro, ndetse no gutekesha amazi meza tukanayoga intoki. Ni byiza ko dukoresha amazi meza ngo turusheho kugira ubuzima bwiza. Ubona hari umugezi n'abana babiri bari ahantu heza ku mugezi.

Umuganga w'umugore ndetse n'umubyeyi uteruye mwana, ubona ko amufashe yaje kumukingiza kugira ngo umwana arusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Umubyeyi nawe jyana umwana kwa muganga, umukingize kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, unamugaburira ibiryo birimo intungamubiri zitandukanye wibanda ku mbuto n'ibindi bitandukanye kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umubyeyi ubona ateruye mwana, ubona ko hari ababyeyi benshi baje kwa muganga, ubona ko ateruye umwana afite n'ifishi mu ntoki, ubona ko yaje kugira ngo bamufashe bamuvurire uwo mwana banamugira inama z'ukuntu yakwita ku buzima bw'umwana we bakamukura mu igwingira, ni byiza ko tubungabunga ubuzima bw'abana bacu ndetse n'ubwacu turya indyo zuzuye zirimo intungamubiri kugira ngo turusheho kurwanya igwingira ku bana bato.

Umuganga ubona ko arimo asuzuma abarwayi kugirango ngo arusheho kubaha imiti itandukanye irushaho kuvura ubuzima bwabo. Ubona hari umubyeyi, inyuma hari umuntu umwe mu bantu bambaye amaji y'icyatsi bafatwa nk'abayefu vorotiya, bafasha abantu kubagira inama zo kugana ku bitaro. Kugira ngo barusheho guhabwa imiti ndetse n'urukingo ku buzima bwabo barusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu heza hateraniye inama, ubona bari kubigisha ku bijyanye n'ubuzima, kugira ngo barusheho kugira na bagenzi babo inama, kugira ngo barusheho gukwirakwiza ibyiza byo kubungabunga ubuzima bwawe, kuko bigufasha kubaho ubuzima bwawe neza kandi burambye, ukarushaho kwiteza imbere igihe wabungabunze ubuzima bwawe.

Abagore batandukanye ubona ko bagera ku bagore batanu bafite indobo z'amazi baje ku mugezi kuvoma ubona ko ari ibikorwa byiza biterwa inkunga n'ikigo mpuzamahanga gishinzwe kwita ku bana unicefu .Ni byiza ko tubungabunga ibikorwa remezo nk'ibi cyane cyane ahantu hari amazi kuko amazi ni isoko y'ubuzimamu kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi ubona ko ari ahantu hahuriye abantu benshi bagiye mu nama kugira ngo bashishikarizwe uko bakwita ku buzima bwabo, ndetse banamenye ibyiza byo kwita ku buzima bwabo kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, ni byiza ko dukurikiza inama dukura ahantu n'aha ndetse n'ingamba ziba zahafatiwe kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu heza ubona hateraniye abantu benshi barenze umwe ubona ko bicaye ku meza atandukanye, ubona ko bishimye bari kuganira ku bijyanye n'ubuzima kugira ngo barusheho kumenya byinshi ku buzima, barushaho kumenya uko bakwite ku buzima bwabo, ni byiza ko tumenya ibijyanye n'ubuzima bwacu kugira ngo turusheho kwiyitaho no kumenya uko twabungabunga ubuzima bwacu tukarusha kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umubyeyi wicaye ku ntebe ubona ateruye umwana, ubona ko hari umuganga wambaye itaburiya, ari kumufasha kumuha umuti kugira ngo arusheho kubungabunga ubuzima bw'umwana, kandi umwana arusheho kugira ubuzima bwiza. Ni byiza ko igihe cyose umwana wacu yagize ikibazo kijyanye n'uburwayi tumujyana kwa muganga, kugira ngo arusheho guhabwa sevise zijyanye n'ubuzima, arusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umugore wicaye ku ntebe ubona ari gushinyiriza abona ko muganga ari kumukingira, ni byiza ko tujya kwa muganga tukikingiza, kugira ngo turusheho kugira ubudahangarwa ku mubiri wacu binyuze mu nkingo badutera. Ni byiza ko nk'uko uyu mugore ari kubikora kwikingiza ni byiza biturinda indwara zimwe na zimwe z'ubuzima, kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Twikingize turusheho kugira ubuzima bwiza.

Umwana w'umuhungu ubona afite agakombe, ari kuvoma amazi ku kigega. Urabona ko iki kigega gifata amazi y'imvura. Si byiza ko tunywa amazi nk'aya, kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, dukoreshe amazi meza. Twirindanda kunywa amazi nk'aya yaretswe mu bigega, byibuze ushobora kuyakoresha ukaraba intoki ariko ntushobora kuyanywa ngo unayatekeshe. Ni byiza ko tubungabunga u buzima bwacu, tunywa amazi meza asukuye.

Abana ubona barimo bavoma amazi b'abanyeshuri ubona bafite indobo buri wese, ubona ko ari abana batandatu, ubona ko barimo no kubanza gukaraba intoki, ni byiza ko dukaraba intoki tukanatoza abana bacu gukaraba intoki, kuko ari byiza, biturinda indwara z'umwanda, harimo nko kuba twarya tudakarabye, bikadutera indwara nk'inzoka ndetse n'ibindi, tugira isuku ku ntoki zacu, kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umugabo ubona uhagaze ahantu, bari gupimira abana ibiro, ubona ko hari umunzani hari ababyeyi batandukanye bicaye, bategereje guhabwa serivisi, kugirango ngo barusheho kugira ubuzima bwiza bw'abana babo ndetse na bo ubwabo, ni byiza ko tubungabunga ubuzima bwacu tujya kwa muganga, kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Abagabo n'abagore ubona bambaye amataburiya y'umweru, ubona ko ari abaganga babigize umwuga, ubona ko ar’ahantu ushobora kugenda bakagufasha, bakakubwira serivisi zijyanye n'ubuzima ukamenya aho uhera wita ku buzima bwawe. Ni byiza ko tugana kwa muganga ngo badufashe kumenya uko ubuzima bwacu buhagaze, ndetse turusheho no kumenya byinshi ku buzima bwacu, tumenye uko twakwita ku buzima bwacu tukagira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

abana benshi ubona bateraniye ahantu bambaye impu udutu tw'umuhondo hejuru bambaye n'utugofero ubona ko bakoze mu mpapuro ubona atari ari twiza ni byiza ko tugombabu mubungazima bw'a bacu tubajyana ahantu heza nka bakishima kukwishima ni imwe mu bintu bikora ubuzima bw'abantu bagatuma bumera ubuzima bw'abantu mu ubuzima bwacu binyuze mu kwishimisha ndetse no kwita ku bana bacu kugira ngorusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzirazi.

Umubyeyi w'umugore ubona afite isuka yikoreye agatebo karimo imijumberi n'ibijumba ubona ko avuyeyo gukura ibijumba. Ubona ko hirya ye hari inzu nziza y'amategura inyuma ye hari uruyuzi. Ubona ko ari ahantu mu muhanda impande y'urwo rugo hari uruyuzi ndetse n'inzu y'amategura afite isuka yishima aseka nk'umuntu uvuye gushaka ibyo kurya.

Abantu benshi ubona bari mu mashusho atandukanye ubona ko ari abantu bafite ikibazo cyo mu mutwe bakeneye kuganirizwa kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Ni byiza ko ubonye umuntu nk'uyu wamugira inama cyangwa ukamwegereza ku bigo nderabuzima bitandukanye bakamufasha kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza abeho nk'abandi mu buzima bwiza kandi buzira umuze.

Umugabo ubona wambaye ishati nziza, uhagaze imbere y'inyubako ubona hateye indabo n'imikindo, ubona ko ari inzu nziza y'inyubako igizwe n'ibice bitandukanye harimo nk'amadirishya y'inzugi, ubona ko imbere yaho hateretse amavaze arimo indabo, ubona ko ari inzu nziza isa neza, isa n'aho itangirwaho serivise z'ibijyanye n'ubuzima. Ni byiza ko tugana ibigo nk'ibi cyangwa inyubako nk'izi ziri ahantu heza, zifasha abantu barwaye ubuzima.

Abana benshi ubona ko bateye agahinda barimo barira, ubona ko bafite ikibazo kijyanye n'ubuzima ndetse ubona ko bafite ikibazo no mu mutwe, ni byiza ko begerwa bakagirwa inama bagafashwa bagahabwa imyitwarire myiza ndetse bagafashwa kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Abagabo, abagore ubona bamwe bicaye abandi bahagaze, ubona ko inyuma yabo hari igishusho kiriho amagambo yanditse mu mpine RBC, RBC ni ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga ubuzima no kwita ku buzima bw'abaturage mu gihugu cy'u Rwanda, ni byiza ko bakurikiza ingamba tugirwa kugira turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umugabo ubona wambaye imyenda y'ubururu umuntu afite ibisatsi byinshi bisa nabi ubona ko asa n'ufite ikibazo cyo mu mutwe . Ubona inyuma ye hari undi , ni byiza ko tubungabunga ubuzima bwacu cyane cyane abantu bafite ikibazo cyo mu mutwe kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza nabo tubagira inama. Ni byiza kugira ngo nabo barusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu ubona hari abantu bifotoje ubona ko harimo umupapa umwe ndetse n'abakobwa n'abahungu biganje kuba bambaye imyenda y'ubururu hejuru y'imipira isa. Ubona ko bari baje guhabwa amakuru ndetse n'ukuntu baganiriza abantu bafite ikibazo cyo mu mutwe kugira ngo barusheho kubagira inama barushaho kumera neza nk'abandi basanzwe. Ni byiza ko twegera abaganga bakatugira inama

Umugabo wicaye hasi ubona usa n'ufite ibibazo, ari kumwe n'umugore ubona uri kumuganiriza kugira ngo arusheho kumugira inama arushaho gutuza kugira ngo atiheba akaba yanakwiyahura, ni byiza ko igihe ubonye umuntu nk'uyu umuganiriza kugira ngo arusheho kugaruka muri mudu nziza, kugira ngo atiyahura cyangwa akaba yagira ikindi kintu kibi akora, tuganirize abantu nk'abo bagize ikibazo mu mutwe cy'ihungabana ndetse no kumva batari gutekereza neza.

Abana benshi bicaye hasi ubona baseka bishimye, ubona ko ari abana basa neza kandi bafite isuku. Ni byiza ko duseka mu buzima bwacu bwa buri munsi bidufasha kongera iminsi yo kubaho no gutuma umubiri wacu ubaho neza, bikadufasha no kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Abapapa ndetse ubona ko harimo n'abakobwa ariko uruhare rwinshi rurimo ni abapapa, ubona ko bicaye ku ntebe imbere bifotoza kugira ngo barusheho gufata urwibutso rwiza rwo kugira ngo ubuzima burusheho kubungabungwa ndetse nk'uko tubizi.

Ababyeyi batatu ubona bose bafite imbingo mu ntoki, ubona ko umwe ateruye umwana arimo kumwonsa, aho ubona ko barimo gushakisha kugira ngo babone icyabatunga n'icyatunga umwana wabo, ni byiza ko twita ku bana bacu kuko nibwo bukungu bw'ejo hazaza.

Ahantu hari abagabo n'abagore ubona barimo bavuga bati: "twirinde ibibazo byo kujagarara mu mutwe, dukora siporo ndetse dufata n'imiti, twegera n'aho batugira inama kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze."

Ahantu heza ubona hicaye abantu batandukanye, haje kugirwa inama abaturage z'ukuntu babungabunga ubuzima bwabo babukura mu kaga n'igihe bahuye n'ikibazo cy'uburwayi babagira inama z'uko bakagombye kujya kwa muganga. Ni byiza ko dukurikiza amabwiriza tugirwa ndetse n'ingamba zafashwe kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima tugire ubuzima bwiza.

Umumama ubona wicaye hasi ku musambi bita ikirago. Ubona ko azirikishijwe umunyururu ku kaguru, ku giti. Ubona ko asa n'ufite ikibazo cyo mu mutwe. Ni byiza ko abantu nk'aba tubegera tukabagira inama tukabaganiza kugira ngo turusheho kubakasaringa bagire ibitekerezo bizima.

Abagabo barimo abapolisi ubona barimo kugenda bararura cyangwa se bamenyesha abantu ibyiza byo kurwanya ihohoterwa, banababwira ko ari inshingano zabo kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza, turwanye ihohoterwa nk'inshingano zacu, ni byiza ko turwanya ihohoterwa tugana isange wani sitopu senta igihe wahohotewe kugira ngo urusheho guhabwa ubutabera no gufashwa.

Umugabo ubona ko asa nabi ari mu muhanda, ubona ko afite ikibazo cyo mu mutwe, ni byiza ko igihe cyose tubonye umugabo nk'uyu cyangwa se abantu nk'abo muri rusange bafite ikibazo cyo mu mutwe, tubaganiriza kugira ngo barusheho kugaruka mu bitekerezo byiza kugira ngo nabo barusheho kwiteza imbere kandi barusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Abantu benshi biganjemo igitsina gabo, ubona ko bagiye ahantu hateraniye inama, hari gutangirwa ibijyanye n'ubuzima kugira ngo abantu barusheho kubungabunga ubuzima n'imitekerereze ya muntu, ni byiza ko bagirwa inama y'ukuntu bakwitwara igihe bahuye n'umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe, bakabafasha kumugira inama kugira arusheho kugira ubuzima bwiza nk'abandi.

Ahantu ubona hari ikirango cya polisi ndetse n'ikigo cya isange wanu sitopu centa, aho ari ikigo gishinzwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ni byiza ko igihe wahohotewe uhagana, isange wanu sitopu centa bakagufasha. Bakaguha ubutabera ndetse bakanafata umuntu waguhohoteye kugira ngo bamuhane, bamuryoze ibyo yakoze. Ni byiza kutubungabunga mu buzima bwacu tugana ibigo k'ibi kugirango ngo duhabwe ubufasha.

Ahantu heza ubona hateraniye abantu bari mu nama, ubona ko ari abantu bari kwiga ku bijyanye n'ubuzima nk'uko bigaragaza hari ishusho yanditseho RBC, RBC ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima no kwita ku buzima, ni byiza ko twita ku buzima kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza n'ejo hazaza hacu hazabe heza, twite ku buzima bwacu nibwo bukungu bwacu.

Ahantu heza ubona hari inyubako, ubona ko ari ahantu batangira serivisi, cyangwa hari ahantu bavurira abantu bafite ibibazo byo mu mutwe, cyangwa se ahantu babaganiriza. Ni byiza ko igihe cyose ufite ikibazo ugana ku nzu nk'izi cyangwa kubikorwa remezo nkibi, warangiza bakagufasha urabona ko ahantu hari jaride nziza n'imikindo hanze, hasa neza cyane.

Umugabo mwiza cyane ubona yishimye. Ubona ko ari ahantu hari abantu benshi inyuma ye. Ubona ko ari ahantu heza hari jaride, hari n'abantu benshi inyuma ye. Urabona aseka yishimye ariko urabona ko ashobora kuba afite ikibazo cy'imitekerereze. Ni byiza ko igihe cyose dufite ibibazo runaka tugana ahantu hari abantu bakadufasha kutugira inama kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Umubyeyi ufite abana babiri; ubona ko ateruye umwe, ubona afite ikibazo rwose, ubona ko yabyaye indahekana kandi abayeho mu buzima bubi. Ni byiza ko ababyeyi tubasha, kubyara abo dushoboye kurera, kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima bwabo no kubarera neza, turusheho kubabonera iby'intungamubiri bibakuza neza, bagirire ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Babyeyi tuboneze urubyaro turusheho kugira ubuzima bwiza bw'abana bacu n'ejo hazaza h'abana bacu heza.

Umubyeyi w'umumama ubona yarakaye, ubona ko asa n'umufite ikibazo cyo mu mutwe, ni byiza ko umuntu nk'uyu igihe umubonye umuganiriza, ukamugira inama, akarushaho kugaruka muri mudu nziza, akarushaho gutekereza neza, ni byiza ko dufasha abarwayi nk'abo.

Abana b'abanyeshuri benshi ubona bari ahantu ku kigo, bakina bishimye ubona bari gupepera umuntu wabafotoraga. Ni byiza ko tubungabunga ubuzima bw'abana bacu tubasura ku mashuri, tubitaho tubagaburira ibiryo birimo intungamubiri kugira ngo turusheho kurwanya igwingira ndetse no kugira ngo barusheho kuzamura ireme ry'uburezi. Tubabungabunge, tubagaburira ibiryo byiza kandi birimo intungamubiri kugira ngo barusheho kugirahe ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Abantu babiri ubona bateruye umuntu mo hagati usa n'ufite ikibazo cyo mu mutwe, umeze nk'uwataye umutwe, ni byiza ko igihe umuntu nk'uyu yataye umutwe mumufasha mukamwegera, mukamujyana kwa muganga cyangwa se mukamwicaza mukamuganiriza, kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, arushaho gutekereza nk'abandi yere kwiheba.

Ahantu heza ubona hari abantu benshi ubona hari umuntu usa nabi wicaye hasi ufite ibyatsi mutoki impande ye hari amacupa y'amazi ubona ko afite ikibazo cyo mu mutwe ni byiza kwegera umuntu nk'uyu ufite ikibazo cyo mutwe tumubona tumufasha tukamuganiriza akarushaho kugira ubuzima bwiza nawe nk'abandi, tuganiriza abantu bafite ibibazo byo mu mutwe kugira ngo barusheho kubaho neza mu buzima bwiza nk'abandi

Umugore ubona ari mu gahinda, ubona ko afite ikibazo cyo mu mutwe. Ubona ko hari undi mugore urimo amuganiriza amugira inama kugira ngo arusheho gutuza, arushaho kutiheba yumve nta kibazo gihari. Ni byiza ko abantu nk'aba bafite ikibazo cyo mu mutwe tubaganiriza bakarushaho kugira ubuzima bwiza nk'abandi, tubagira inama tubereka ko ibyo bari gutekereza atari byo kugira ngo barusheho kutiheba no kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu ubona hari abantu benshi batandukanye. Ubona hamwe bari gutera ibyatsi, ahandi bacukuye umwobo, ahandi bafashe ifoto, ahandi bafashe kuri cya cyatsi bateye. Ni byiza ko tubungabunga ibimera nk'ibi, bidufasha kubikoramo imitima myiza Kinyarwanda ndetse bikanaduha umwuka mwiza duhumeka, kugirango turusheho kubaho mu ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Tubungabunge ibidukikije, turusheho kugira ubuzima bwiza.

Umugore ubona wicaye yifashe mu musatsi ubona ko yasutse, ubona ko asa n'ufite ikibazo cyo mu mutwe yahungabanye, ubona ko akeneye umuntu umuganiriza, kugira ngo arushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, agabanye kwiheba. Ni byiza ko igihe tubonye umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe tumuganiriza, tukamugira inama akarushaho kutiheba kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze nk'abandi.

Umukobwa ubona ko ari kwerekana amenyo ubona ko asa neza afite isuku ubona ko afite amenyo meza y'umweru ni byiza ko tubungabunga amenyo yacu dukoresheje umuti wabugenewe ari uwo witwa korogati ndetse n'uburoso n'amazi meza kugira ngo turusheho kugira isuku mu kanwa no kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umwana w'umukobwa ubona yambaye amaherena abona ko yagiye kwa muganga ngo barusheho kumufasha gupima amenyo no mu kanwa ke, barushaho kumenya uko ameze n'uko arwaye, ni byiza ko igihe cyose twagize ikibazo tujya kwa muganga bakadufasha, kandi ikindi tubungabuge mu kanwa hacu tugira isuku dukoresheje uburoso n'amazi meza ndetse na korogati.

Umukobwa ubona wagiye kwa muganga bari kumukura amenyo, ni byiza ko twita mu menyo hacu kugira ngo turusheho kugira isuku nziza twirinde kuba amenyo yabora no gucukukatwa kw'amenyo ndetse n'izindi ndwara zo mu kanwa nk'ubugendakanwa ndetse no kubyimba amashinya. Urabona ko uyu mukobwa agiye kwa muganga akaba ari kurikura kandi kubabara twirinde kubabara kandi tuyikingire dukoresheje imiti myiza isukura mu kanwa kacu harimo nka kologate ikozwe mu gikakarubamba.

Umusore mwiza ubona arimo aseka yerekana mu kanwa ko ari heza, yerekana ko natwe twagakwiye kugira ubuzima bwiza twita mu kanwa hacu kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, no kwirinda indwara zo mu kanwa hari nk'ubugendakanwa, kubyimba ishinya, kubora kw'amenyo ndetse n'ibindi, twite mu kanwa hacu tuhaborosa n'umuti mwiza n'uburoso ndetse n'amazi meza.

Abana b'abanyeshuri ubona harimo abahungu n'abakobwa, ubona bicaye ku ntebe nziza bari mu ishuri. Ubona ko bafite korogati n'uburoso mu ntoki. Ubona ko ari umuti mwiza abantu bifashisha boza mu kanwa, basukura mu kanwa, kugira ngo barusheho kugira impumuro nziza mu kanwa, no kwirinda indwara zitandukanye zirimo nk'ubugendakanwa no kubyimba amashinya. Dukoreshe uyu muti kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima bwacu, no kugira mu kanwa hazira umunuko.

Umusore ubona ufite ubwanwa, ubona yiyogoshesheje neza, asa neza ubona ko ari guseka, ubona ko afite no mu kanwa heza, ni byiza ko tugira isuku ku mibiri yacu ndetse no mu kanwa cyane cyane kugira turusheho kugabanya impumuro mbi kwirinda indwara zirimo gucuyuka kw'amenyo, kubyimba amashinya ndetse n'ibindi tubungabunga isuku nziza yo mu kanwa dukoresha umuti wabugenewe witwa korogati ndetse uburoso n'amazi meza.

Uburyo bwiza wakoresha nk'uko bigaragazwa n'uyu mukobwa, wita ku menyo yawe ukoresha agakoresho kagaragara yakoresheje. Ni byiza ko twita ku menyo yacu dukoresha ibintu bikuramo imyanda, ibiryo twariye ndetse n'imyanda iri hagati y'iryinyo n'irindi kugira ngo turusheho kwirinda kubora kw'amenyo. Kandi dukoreshe imiti yabugenewe harimo nka korogati n'uburoso n'amazi meza kugira ngo dusukure mu kanwa, turusheho kugira mu kanwa heza.

Umwana mwiza ubona afite uburoso arimo kwiborosa, ubona ko yicaye ku ntebe yegamye, ni byiza ko nk'uko bigaragara umwana ari kwiborosa, ni byiza ko natwe twiborosa kugira ngo turusheho kugira mukanywa heza no kwirinda indwara zitandukanye nk'ubugendakanywa n'ibindi.

Abana ubona ko ari abanyeshuri bambaye inifomo. Ubona buri wese afite agakombe, uburoso ndetse buriho na corogate ubona ko ari kwiborosa arushaho gusukura amenyo ye kugira ngo arusheho kugera mu kanwazazira umunuko kandi bimufashe no kugira ubuzima bwiza buzira umuze, yirinda indwara zitandukanye nk'ubugendakanwa ndetse no kubyimba amashira. Ni byiza ko dukoresha umuti wabugewe tugasukura mu kanwa kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza no mu kanwa heza.

Umuganga w'umusore ubona ari kuvura umusaza mu kanwa arimo amusuzuma ngo amenye uko amenyo ye ameze. Ni byiza ko tubungabunga amenyo yacu dukoresheje umuti mwiza wabugenewe n'uburoso, kugira ngo turusheho kubungabunga isuku mu kanwa no kwirinda indwara zitandukanye zadufata mu kanwa.

Umukobwa mwiza wipfutse, wambaye agasengeri k'umweru, ufite uburoso mu ntoki ubona ari kwita ku isuku yo mu kanwa akoresheje uburoso ndetse n'umuti mwiza wabugenewe n'amazi meza. Ni byiza ko dufata amenyo yacu neza, tuyaborosa dukoresheje uburoso n'umuti mwiza wabugenewe witwa korogate kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umukobwa urimo kumwenyura ubona yasetse yerekana ukuntu twagakwiye kugira isuku mu menyo, ubona afite amenyo meza, ubona ko ayitaho, ayasukura kandi ni byiza ko dukoresha umuti wabugenewe nka Kogate ndetse n'uburoso n'amazi meza kugira ngo turusheho kwita mu kanwa hacu, kugira ngo turusheho kugira isuku nziza kandi tugire n'ubuzima buzira umuze turindanda n'indwara zandurira mu kanwa nk'ubugendakanwa ndetse no kubyimba amashinya.

Abaganga babiri ubona bari kwita ku murwayi bareba uko amerewe mu kanwa. Ubona ko yagize ikibazo cyo mu kanwa, bari kumuvura banamukura amenyo, banamupima; baragira ngo bamenye uko arwaye mu kanwa, kugira ngo barusheho kumufasha. Ni byiza ko twita mu kanwa hacu, kugira ngo harusheho kumera neza, no kwirinda indwara zitandukanye nk'izi zatuma tujya kwa muganga. Tubungabunge isuku yo mu kanwa, turushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umukobwa mwiza ubona w'inzobe ufite imisatsi myiza asa neza ubona ko ari kwiborasa akoresheje korogati uburoso, ndetse n'amazi meza kugira arusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, tubungabunga ubuzima bwacu tugira isuku mu kanwa ndetse n'ahandi kugira ngo turusheho kugira impumuro nziza no kwirinda indwara zitandukanye zirimo: nk'ubugendakanwa, harimo gucukuka kw'amenyo ndetse no kubyimba amashinya.

Umwana muto wicaye hasi, ubona aseka amwenyura, arimo akora isuku mu kanwa yiborosa. Ni byiza ko dufata uburoso tugashyiraho umuti wabugenewe, tugafata n'amazi meza, tukiborosa kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Ubona umwana yishimye ari gukora isuku mu kanwa, kuko isuku yo mu kanwa ni isoko y'ubuzima.

Umugabo ubona ari kwireba ubona ko afite ikibazo mu kanwa ubona ko ari kugerageza gusukura mu kanwa, kugira ngo arusheho kugira mu kanwa heza ndetse hazira umunuko, ni byiza ko tubungabunga mu kanwa hacu kugirango ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze dukora isuku mu kanwa kacu kugira ngo turusheho kugira amenyo meza no kurinda indwara zitandukanye zirimo nk'ubugendakanwa ndetse no gucukuka kw'amenyo.

Umusore mwiza ubona ufite udusatsi twiza ,wamba agapira k'umweru ubona ko ari kwita mu kanwa he kugirango ngo arusheho kugera mu kanwa heza n'amenyo ye meza ,ubu akari gukuramo imyanda kugirango arusheho kugira amenyo meza ,ni byiza ko tubungabunga mu kanwa kacu dukoresheje umuti mwiza ari uwo korogati, uburoso ndetse n'amazi meza kugirango ngo turusheho kugira ubuzima bwiza n'amenyo meza n'isuku mu kanwa twirinde impumuro mbi mu kanwa.

Umugabo ubona afite ubwanwa yambaye amarinette, ubona ari gutunga intoki ku menyo ye mu kanwa yereka abantu ko bagomba kwita mu kanwa habo neza, bakahakorera isuku kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze. Ni byiza ko tubungabunga mu kanwa tuhaborosa n'amazi meza na corogate n'uburoso, kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, twirinda indwara zitandukanye zo mu kanwa nk'ubugendakanwa, kubyimba amashinya ndetse no gucukuka kw'amenyo.

Umusore ubona arimo yasetse, ubona ko arimo akura imyanda mu menyo ye no mu kanwa akora isuku. Ni byiza ko dukora isuku mu kanwa kacu kugira ngo turusheho kugira isuku n'ubuzima bwiza. Twirinde umunuko mu kanwa ndetse n'indwara zitandukanye nk'ubugendakanwa ndetse no kubyimba amashinya dukora isuku mu kanwa kacu.

Umusore wampa umupira w'umweru ubona ko ari kwita ku menyo kugira ngo arusheho kugira isuku ndetse no kwirinda indwara zitandukanye harimo nk'ubugendakanwa, gucukuka kw'amenyo ndetse n'umunuko mu kanwa, ni byiza ko tuborosa mu kanwa tukanakuramo imyanda itandukanye kugira ngo turusheho kwirinda indwara nk'izo zafata mu kanwa tugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umusore mwiza ubona arimo kumwenyura, arimo yita ku menyo ye ayakuramo imyanda, urabona ko ari byiza ko twita ku isuku yo mu menyo yacu no mu kanwa muri rusange dukoresheje umuti wabugenewe ndetse n'uburoso kugira ngo turusheho kugira mu kanwa heza, bidufasha kugabanya umunuko ndetse no kwirinda indwara zimwe na zimwe zandurira mu kanwa harimo nk'ubugendakanwa ndetse no kubyimba amashinya.

Umugabo ubona ari guseka, ubona ari kwita ku menyo ye kugira ngo arusheho kugira amenyo meza kandi n'isuku mu kanwa. Yirinde n'indwara zitandukanye nk'ubugendakanwa, kubyimba amashinya ndetse no kubora kw'amenyo. Ni byiza ko twita ku menyo yacu kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza, no kugira isuku mu kanwa n'impumuro nziza, dukoresheje umuti mwiza wabugenewe ndetse na korogati n'uburoso n'amazi meza.

Umusore ubona ariguseka neza, ubona ko afite amenyo meza y'umweru no mu kanwa heza. Kugira ngo ugire mu kanwa heza bisaba gukora isuku buri munsi, wiborosa ukoresheje uburoso, amazi meza ndetse na Colgate. Twite ku menyo hacu, mu kanwa hacu ni heza. Tuhagabanye umunuko waho dukoresheje umuti wabugenewe. Ni byiza ko dukora isuku mu kanwa kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umusore ubona arimo aseka, ariko ubona ko ari kwita ku menyo ye. Ubona ko arimo akuramo imyanda, kugira ngo arusheho kugira amenyo meza ndetse no mu kanwa hazira umunuko ndetse n'indwara. Kugira ngo ugire amenyo nk'aya bisaba, kwiborosa ukoresheje umuti wabugenewe, n'uburoso bwiza n'amazi meza. Ni byiza ko twita ku menyo yacu kugira ngo turusheho kugabanya umunuko wo mukanwa no kwirinda indwara zirimo nk'ubugendakanwa ndetse no kubyimba amashinya.

Umukobwa ubona afite akadodo ubona asa n'uwashyize amenyo ye ahagaragara kugira ngo arusheho kuyitaho akuremo imyanda yirinde kuba yabora cyangwa yabyimba ishinya bitewe n'amenyo ni byiza ko dukora isuku mu kanwa tuborosa amenyo dukoresheje umuti mwiza wabugenewe ndetse n'amazi meza .

Umurwayi uryamye ku gitanda abona ko muganga arimo amupima kugira ngo arusheho kumenya uko ubuzima bwe buhagaze, amenya aho ahera amwitaho no kugira ngo arusheho kubungabunga ubuzima bwe. Ni byiza ko igihe cyose warwaye ugana kwa muganga bakagufasha bakaguha imiti ndetse bakanagufasha kubona uko ubuzima bwawe buhagaze kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza kandi bugire umuze bakwitayeho.

Umuganga ubona afite igice cy'amenyo cyo mu kanwa, ni byiza ko tubungabunga ubuzima bwacu cyane cyane nko mu kanwa nk'uko bigaragara, tubungabunge mu kanwa twirindwe indwara zimwe na zimwe zifata abantu mu kanwa, tugira isuku dukoresha uburoso, amazi meza n'umuti wabugenewe witwa corogate kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima bwacu bwo mu kanwa.

Umuganga ubona ko afite ibikoresho bitandukanye, ubona yambaye agapfukamunwa, ubona ko ari ahantu muri raboratwari, arimo apima imiti kugira ngo amenya ubuziranenge ifite ndetse n'ibyo ishobora gufasha umubiri wa muntu. Hari ibikoresho bitandukanye, ubona hari imigozi, hari uducupa turimo imiti arimo gukoreraho ubushakashatsi, ubona arimo no guhita yandika ibyo abonye.

Umukobwa mwiza ubona ari kwiborosa, ni byiza ko twita ku menyo yacu, nk'uko bigaragara kugira ngo turusheho kugira mu kanwa heza no kugira ubuzima bwiza, ni byiza ko twita mu kanwa tubungabunga amenyo yacu, twirinda ubugendakanwa, ni byiza ko tuborosa mu kanwa, bikadufasha kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, igihe twabungabunze mu kanwa twirinda n'umwanda wo mu kanwa, n'umunuko n'umwuka mubi wo mu kanwa.

Intebe, igitanda, imashini ubonako iri kwaka imanitse hejuru ubona ko ari ahantu heza hakorerwa ibijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo, ni ahantu ushobora kugana bakakuryamisha kugitanda bakagusuzuma mu kanwa uko uhagaze ndetse bakarushaho kukuvura cya se bakagukura amenyo cyangwa bakaguha imiti itandukanye ndetse bakakugira inama irimo nko gukora isuku mu kanwa kugira ngo urusheho kwirinda indwara nk'izo dukora amasuku mu kanwa kacu.

Abantu benshi, ubona harimo abagabo n'abagore, ubona bishimye cyane, ubona hari umugabo uri kugendera ku kagare, ubona ko wagira ngo bagiye kumuha akagare, ubona ari impumyi. Ni byiza ko twita ku bantu babana n'ubumuga, kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze bumve babayeho neza muri sosiyete nk'abandi.

Umuganga ubona arimo afasha umusaza kunanura imitsi kugira ngo arusheho gukomeza kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze arusheho no kugira ubuzima bwiza burambye, ni byiza ko dukora siporo zitandukanye zidufasha kunanura imitsi kugira ngo amaraso arusheho gutembera mu mubiri neza.

Umukobwa mwiza ubona aryamye hasi arimo gukora pompaje arimo akora siporo kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze akora siporo nk'uko tubizi ko siporo zifasha abantu mu kugabanya umubyibuho ukabije, gusohora imyanda mu mubiri ndetse no kugabanya ibinure, ni byiza ko dukora siporo kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umurwayi w'umugabo ubona ari kwa muganga, barimo bamwitaho kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza, abona yicaye hasi, ubona inyuma hari umukobwa wicaye inyuma, ubona ko nawe yahagannye kugira ngo bamufashe, ni byiza ko igihe cyose twagize ikibazo tugana aho babishoboye bakadufasha kugira turusheho kugira ubuzima bwiza.

Abamama babiri ubona bafite ibyokurya imbere yabo bitandukanye; nk'imbuto harimo inyanya n'imboga z'ibyatsi nk'uko tubizi imboga ari nziza n'imbuto ku buzima bw'abantu, ni byiza ko turya imboga, imbuto n'ibindi bintu birimo vitamini bitandukanye kugirango turusheho kugira ubuzima bwiza.

Abagore batatu ubona inyuma hari abasore babiri ubona ko bari muri siporo. Ni byiza ko dukora siporo kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, ubona abarimo baseka biruka ubona ko bishimye babayeho mu buzima bwiza kandi buzira umuze.

Abagabo ubona ko ari umugabo umwe arimo akina damu. Iyi damu ni umukino mwiza, umuntu akina n'undi basunika imifuniko, maze utsinze akarushaho kwishima kugira ngo urushe gukomeza kugira ubuzima bwiza no kuruhura mu mutwe. Ni byiza ko dukina imikino nk'iyi kugira ngo turusheho kurushaho kongera ubumenyi ndetse no kugira ubuzima bwiza binyuze mu mikino nk'iyi kuko bidufasha kwishima.

Umwana w'umukobwa mutoya ubona ari gukina na se mu kibuga ubona bafite baro ya basiketi ubona ko bishimye cyane ubona ko ari umwana na se bishimye. Ni byiza ko dukora siporo tukanakina imikino nk'iyi idufasha gushimisha imiryango yacu ndetse natwe tukishimana.

Umuryango w'ababyeyi n'abana ubona ko harimo n'umusaza n'umukecuru ubona ko bishimye cyane baseka, kwishima ni byiza mu buzima kuko byongera iminsi yo kubaho ni byiza ko twishimana n'imiryango yacu kugirango ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze binyuze mu kwishima.

Umusaza ubona wicaye mu kagare barimo bamusunika, ubona umukobwa ari we umusunika amwenyura, ubona ko ari ahantu heza, ubona ko umusaza yishimiye kuba bamwitayeho nawe akaba yumva yabaye umuntu nk'abandi ntabe gicibwa muri rubanda. Ni byiza ko dufasha n'abantu babana n'ubumuga kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa wicaye ubona ko ari muri siporo, arimo ananura amaguru ye kugira ngo abone uko agira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Dukore siporo turushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze binyuze muri siporo. Ni byiza siporo zongera kandi zikanasohora imyandamubiri, zikongera n'ubudahangarwa bw'umubiri, zidufasha kandi kutuvura indwara zitandukanye harimo nk'ibicurane ndetse n'umunaniro na sitiresi.

Umusaza wicaranye n'utwana tubiri ubona ko turimo turya, ubona ko ari umusaza wishimye cyane uri kumwe n'umuryango we n'utwana twe, ubona ko barimo barya bishimye kugira ngo barusheho kongera iminsi yo kubaho, kurya ni ibintu bigize ubuzima bwacu bwa buri munsi ariko ni byiza ko tujyana isuku.

Umusaza ubona arimo ahabwa amazi n'umukecuru. Ubona ko ari abagabo n'abagore bishimiranye, babanye neza. Ubona ko umusaza arimo anwa amazi nk'uko tubizi amazi ari meza ku mubiri. Agabanya indwara zimwe na zimwe, ndetse agatuma amaraso atembera neza mu mubiri. Tunwe amazi tugire ubuzima bwiza.

Umukecuru n'umusaza ubona ko bari kugira ibintu bakora bibashimisha, ubona ko bishimye mu rugo rwabo, ubona ko hari ibikoresho byinshi bitandukanye harimo ibikombe, handi sanitayiza, umuti bakaraba mu ntoki ndetse n'ibindi. Ni byiza ko tuganira nk'umuryango ku bitugize kugira ngo turusheho kwiyitaho no kwimakaza.

Abagabo babiri ubona hari umusaza ubona ko bishimye mu umuhanda bagenda bafatanya baganira. Ni byiza ko tuganira n'abantu bacu tukishima tukanezerwa, kuko ari imwe mu mbarutso z'ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umuntu wicaye mu ntebe ubona hari umukobwa wambaye ishati ubona ko wagira ngo ni umuganga abona ko arimo amwitaho baseka bishimye. Ni byiza ko twishima mu buzima kuko bifasha ubuzima bwacu gukomeza kumera neza ndetse no kurushaho gutekereza neza bigatuma turushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Tubungabunga ubuzima bwacu duseka twishima dukora imikino itandukanye ndetse tunakora siporo.

Abagore n'abagabo ubona ko higanjemo abagore ubona bahagaze ahantu mu murima bishimiye umusaruro bari kubona mu murima wabo. Ni byiza ko igihe cyose wishimye useka ukamwenyura kugirango urusheho kongera iminsi yo kubaho.

Umusaza ufite ikaramu wambaye rinete, ufite ikayi arimo yandika, ubona ko yishimiye ibyo ari kwandika, ari mu rugo iwe aratuje arishimye, ni byiza ko twandika tukanaruhura mu mutwe mu gihe dusoma inyandiko zitandukanye kugira ngo turushaho kugira umutekano mubiri no kumva turuhutse.

Umukecuru n'umusaza ubona bicaye bishimye, bagiye gufata amafunguro ubona imbere yaho amasahani menshi ubona ko bari ku meza, ubona hariho imbuto, imboga ndetse bafite n'amazi, ni byiza ko turya ibiryo birimo imboga cyane cyane kugirango turusheho kugira ubuzima bwiza kuko zongera intungamubiri mu mubiri kandi tunywe n'amazi kuko amazi ni isoko y'ubuzima.

Umugore umuntu ubona ahagararanye n'umusaza bishimye baseka ubone ko amufasha akaboko amutembereza kugirango ngo arusheho kugenda neza, ni byiza ku twita ku bantu bacu cyane cyane abasaza bageze mu za bukuru kugira na bumve ko nta gikuba cyacitse ni byiza ko tubafata akaboko tubatembereza, ubona bari ahantu heza mu nyubako arimo amufata akaboko amubwira ati tugende urusheho gukomera no kugira imbaraga.

Abagabo babiri ubona bafite uducupa tw'amazi mu ntoki Bambaye imipira hamwe n'amapantalo y'amatiriningi. Ubona ko bishimye baseka, bari muri siporo barimo kurushaho gusohora imyanda mu mubiri ndetse no kugabanya ibinure kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Dukore siporo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umumama ubona wicaye hasi, ari muri siporo arimo ananura amaguru ye, ndetse ananura n'amaboko kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, nkuko tubizi siporo, ni imwe mu ngamba zafashwe na Leta, cyangwa imiti myiza, ifasha abantu kuvura stress, umunaniro ndetse n'ibicurane n'indwara zitandukanye, harimo nko kuba umuntu yarwara rubagimpande, ni byiza ko tubungabunga ubuzima bwacu dukora siporo mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Umukecuru n'umusaza ubona ko ari umugore n'umusore, bari muri siporo barimo biruka baragira ngo bagabanye ibinure mu mubiri ndetse basohore n'imyanda mu mubiri, Ni byiza ko dukora siporo kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza nk'uko tubizi siporo n'ingirakamaro ku mubiri wa muntu ndetse no mu buzima bwa buri munsi.

Umukecuru wicaye ku ntebe ubona rifite amazi mu gakombe ubona hari umuganga ufite akantu gapima umutima agakore ko kwa muganga . Ubona ko ari kumuha ibinini ngo ni anywe arusheho kugira ubuzima bwiza. Ni byiza ko igihe cyose twagira ikibazo kijyanye n'uburwayi cyangwa umubiri iwacu tugana kwamaganga bakadufasha bakaduha imiti iyo biri ngombwa ndetse bakanatugira inama z'uko twakwitwara kugira ngo turushaho kugira ubuzima bwiza.

Umusaza ubona wicaye barimo kumukoresha siporo kugira ngo arusheho kunanura imitsi ye ubona ko bari kwa muganga wambaye imyenda y'umutuku ni byiza ko dufasha abasaza ntaba kunarura imitsi kugirango ngo barusheho gukoresha ingingo z'umubiri amarasoarusheho gutembera neza mu mubiri dukore siporo kugira ngo tugire ubuzima bwiza kandi buzira umuze .

Umusaza wicaye mu ntebe ubona ko yambaye agapfukamunwa, hari umukobwa ufite imisatsi myiza, ubona ko arimo yambaye agapfukamunwa na we arimo kumwitaho. Ni byiza ko igihe ufite ikibazo wakwiyitaho kugira ngo urusheho guhabwa agaciro nk'abandi, kugira ngo wumve nawe utihebye, uri umwe nka bandi. Ni byiza ko twitabwaho mu gihe dufite ibibazo bitandukanye nk'ubumuga, kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza natwe.

Ahantu ubona hateraniye abantu benshi cyane, ubona bose bahagaze, ubona ko wagira ngo ni ahantu habereye ubukwe. Ubona ko ari byiza ko dukora ibikorwa byose bidushimisha, kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza, binyuze mu kwishima. Nkuko tubizi kwishima, ni mwe mu bintu byiza, byadufasha gutuma ubuzima bwacu bukomeza kurusha kubaho neza, no kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umugore ubona wambaye amaherena, afite ikirahure mu ntoki cy'amazi, ubona afite n'ibinini mu ntoki agiye kubinywa, ni byiza ko twita ku buzima bwacu dukoresheje ibinini, tubifata nk'uko twabitegetswe na muganga, kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza, n'ejo hacu hazabe heza.

Ahantu hateraniye abantu benshi ubona ko hari inama y'abayobozi mbona ko iri kuganira ku bijyanye n'ubuzima n'ingamba zafatwa kugira ngo barusheho kwita ku buzima bwa muntu arusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze ni byiza ko dukurikiza ingamba ziva mu nama nk'izi kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Umugabo ubona wambaye amarinete n'ingofero, afite igipapuro cyanditseho ngo: Monkey pox vaccine access now. Bigaragara ko urukingo rw'ubushita bw'inkende, rwagiye ahagaragara. Tugane kwa muganga, twikingize turusheho kwirinda indwara y'ubushita bw'inkende, kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu hagaragara ubwoko bw'imbuto butandukanye ubona ko bufite intungamubiri ku mibiri yacu butuma imibiri yacu ukomeza kurushaho kumera neza harimo inyanya, karoti, ibitunguru, imboga, imiteja n'ibindi. Ibi ni ibiryo dushobora kwifashisha turya bikatwongerera intungamubiri bigatuma tugira ubuzima bwiza, ni byiza ko dufata ibiryo nk'ibi kugira ngo turusheho kugira intungamubiri no kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu ubona hateraniye abantu bari mu nama. Ubona ko hari umugabo uhagaze arimo ababwira nk'ingamba nziza zagakwiye gukurikizwa babungabunga ubuzima bwa buri munsi bwa muntu. Ni byiza ko dukurikiza ingamba nk'izi ziba zarafashwe zarashyizweho kugira ngo zirusheho kudufasha kubungabunga ubuzima, no kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Abagabo bari hamwe n'abagore ubona ko bari mu muhanda barimo bafite ibipapuro byanditseho ngo twirinde kanseri y'ibere tuyisuzumishe hakiri kare kuko ivurwa igakira . Ni byiza ko tubuvuga mu buzima bwacu tuhindurindwa kanseri nk'izi cyane cyane abagore nibo bireba birinde kanseri y'ibere bagane kwa mwakarabafashe hakiri kare nkuko byavuzwe bigaragaza na rbc.

Umukobwa urimo avuga ku ngamba nziza zafasha abana bari mu bwangavu cyangwa bari mu myaka bita tineji kwimakaza ubuzima bwiza binyuze mu kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza. Ni byiza ko tubungabunga ubuzima bwacu, twirinda ibikorwa bibi byatwangiriza ubuzima.

Abagore babiri n'abagabo babiri, ubona bafite udukingirizo ari two bita condom mu mazina y'Icyongereza. Ni byiza ko badushishikariza gukoresha udukingirizo, nkuko RBC ibishishikariza abantu bose, kugira ngo turusheho kwirinda icyorezo cya Sida, indwara mbi idakira. Ni byiza ko dukoresha udukingirizo igihe cyose tugiye gukora imibonano mpuzabitsina. Si byiza ko dukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Bizagufasha kukurinda indwara harimo nka Sida, mburugu, ndetse n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina.

Ahantu hari abantu benshi, ubona bari kubapima ibijyanye n'umuvuduko w'amaraso kugira ngo bamenye uko ubuzima bwabo buhagaze, ni byiza ko tujya kwa muganga kugira ngo badupime, tumenye uko ubuzima bwacu buhagaze, turushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umuganga ubona ameze neza yishimye aseka, wambaye agapfukamunwa, ishati nziza yabugenewe afite n'agakoresho bapima bumva ko umuntu umutima uri gutera neza. Ni byiza ko tugana kwa muganga nk'ingamba zafashwe nziza kugira ngo dupime turusheho kumenya uko ubuzima bwacu bihagaze, ni byiza cyane, tugane kwa muganga turusheho kugira ubuzima bwiza nk'uko tubikesha abaganga badufasha.

Abaganga n'abarwayi ubona ko ari ahantu hari gukorerwa igikorwa cyo gupima abantu kugira ngo bamenye uko ubuzima bwabo buhagaze, ubona ari ingamba nziza zo gupima abantu kugira ngo bamenye uko ubuzima bwo buhagaze, banabagira inama yo kuzajya bipimisha buri nyuma y'amezi atatu kugira ngo bamenye uko ubuzima bwabo buhagaze, ni byiza ko twese tugana kwa muganga tukipimisha kugira ngo tumenye uko ubuzima bwacu buhagaze.

Abantu ubona bateraniye mu nama ubona ko ari benshi, inama iri kwiga ku bijyanye n'ubuzima kugira ngo barusheho kugira ubuzima bufite umutekano kandi burambye. Ni byiza ko dukurikiza ingamba ziba zavuye mu nama nk'izi kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, dukurikiza amabwiriza duhabwa n'abaganga.

Abantu babiri bafite ishusho igaragaza uburyo ki twakwisuzumisha igituntu ko kivurwa kigakira nk'uko bigaragazwa na RBC ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima no kubungabunga ubuzima, ni byiza ko dukurikiza amabwiriza nk'aya tukisuzumisha kugira ngo tumenye uko ubuzima bwacu buhagaze turushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Urukingo rw'ubushita bw'inkende ubona ko ruri ahabugenewe aho barukura muri pompe barutera umuntu. Ni byiza ko tugana kwa muganga ho hari izo nkingo tukikingiza kugira ngo turusheho kurwanya ubushita bw'inkende no kwirinda gukwirakwiza icyo cyorezo cy'ubushita bw'inkende.

Ikirango cyiza cya rbc ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima. Ni byiza ko tugana iki kigo cya rbc ndetse no gukurikiza ingamba gishyiraho kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, binyuze mu ngamba zishyirwaho ndetse na serivisi batanga ndetse n'uburyo badushishikariza kwirinda tubungabunga ubuzima bwacu.

Ahantu hari ababyeyi bicaye n'abandi bahagaze, hari inzu nyinshi nziza zitandukanye, ubona ko ari kwa muganga ari ahantu hatangirwa serivisi z'ibijyanye n'ubuzima, ubona ko haje abarwayi kugira ngo babafashe. Ni byiza nawe murwayi igihe warembye, gana ibitaro bigufashe ni cyo bibereyeho, kuko bizagufasha kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Abamama n'abapapa ubona bateraniye ahantu buri wese yicaye ku ntebe ye, harimo intera, ubona ko buri wese afite icupa ry'amazi riteretse hasi ye, ubona bambaye imipira bamwe y'umuhondo abandi iy'icyatsi. Ni byiza ko tubungabunga ubuzima bwacu dukurikiza ingamba tugirwa igihe twagiye ahantu nk'aha, badufasha kutugira inama zijyanye n'ubuzima kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima bwacu no kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu heza ubona ko ari kwa muganga hari ibitanda bitandukanye hari supanete hari n'amarido ubona ko hari n'ahantu utubati twiza abarwayi babikamo ibikoresho byabo . Ni byiza ko igihe wagize ikibazo uganaha kwa muganga bakagufasha kugira ngo bu urusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze hano kwa muganga ibikoresho byose harimo nk'ibitanda supenete zikingira abarwayi imibu ndetse n'ibindi . Ni byiza ko tuhagana bakadufasha bakaduha n'imiti kugira ngo durusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze

Inzu nziza ubona ko ari inyubako nini ya etaje igeretse kabiri, ubona ko imbere haparitse imodoka hari igishushanyo cyanditseho RBC ubona ko hari abantu benshi barimo imbere barimo baje kwaka serivisi zijyanye n'ubuzima, ubona ko ari ahantu hatangirwa serivisi zijyanjye n'ubuzima kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Ni byiza ko tugana ahantu nka kugira ngo turushe kugira ubuzima bwiza buzira umuze, badufasha baduha inama ku bijyanye n'ubuzima.

Umusore ubona uryamye ku gitanda yambaye ingofero n'agapfukamumwa, ubona hari umuganga urimo amukuramo amarasobona, ubona ko ameze nk'uwaje gutanga amaraso. Ni byiza ko dutanga amaraso, tugafasha na bagenzi bacu kugira ngo barusheho no kubaho n'ubuzima bwiza buzira umuze. Ni byiza dutange amaraso, bizadufasha. Ubona aryamye ku gitanda, imbere ye hari indobo, ubona ko umuganga arimo amuvomamo amaraso.

Ahantu heza ubona hari ibikoresho byiza bitandukanye byifashishwa kwa muganga bavura abarwayi ndetse banamenye uko bahagaze, ubona hari intebe nziza babakiriramo igihe ugiye kwa muganga kugira ngo bagufashe bagu aho uba wicaye ukaruhuka, hari n'ibindi bikoresho, hari isaha, hari n'ibindi bikoresho bavurisha abarwayi, hari utubido tubamo amazi meza yo kunywa, igihe ugize ikibazo wayanywa.

Ahantu ubona ko ari kwa muganga hari abaganga batanu batandukanye, ubona ko hari ibikoresho imbere yabo bifashisha bapima barimenya neza uko imiti imeze. Urabona hari abantu batandukanye nk'abo baganga n'ibikoresho bafite birimo amacupa, ndetse n'akantu kameze nk'ijage, ni byiza ko tugana kwa muganga igihe twese twagize ikibazo.

Inyubako nziza ubona ko ari igikorwa remezo cya leta, ubona ko hari indabo, hari jaride, hari uduhanda twiza tuhagana. Ubona ko ari inyubako ishobora kuba yurubatswe kugira ngo ijye itanga serivisi zijyanye n'ubuzima, harushweho kubungabunga ubuzima bwa muntu ndetse harushweho no kwimakaza ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Inzu nziza ubona ko ari inyubako nini ubona ko ari ikigo nderabuzima cya gihundwe ubona ko ahangaha ari ahantu bavurira amaso ni byiza ko igihe tugize ikibazo cy'umubiri wacu cyane cyane nk'ibice by'umubiri nk'amaso n'ibindi bice tugana kwa muganga kugira ngo arusheho kudufasha tugire ubuzima bwiza.

Inyubako nziza, urabona ko ari inzu itanga serivise zijyanye n'ubuvuzi, urabona ko ari ahantu ushobora kujya warwaye bakagufasha mu gihe cyose urwaye ni byiza kugana ahantu nk'aha, ubona ko haparitse n'imodoka hari abahagannye kugira ngo babashe guhabwa serivise zijyanye n'ubuvuzi barusheho kubaho neza mu buzima bwiza kandi buzira umuze.

Inyubako nziza ubona ko ari igikorwa remezo cya leta ubona ko hari laboratwari ipima abantu ku bijyanye na malariya ndetse n'izindi ndwara z'ibyorezo ubona ko hari umuganga uhahagaze imbere utanga izo serivisi . Ni byiza ko tugana ahantu nk'aha kwa muganga ku bikorwa remezo nk'ibi bya leta byashyizweho kugira ngo ifashe abaturage kugira ngo twipimishe tumenye uko ubuzima bwacu buhagaze by'umwihariko indwara ya malariya.

Abaganga bane ubona bose mbaye dupfukamuntu n'imyenda isa y'ubururu ubona bahagaze inzu y'ababyeyi aho bita kuri materineti, aho ababyeyi babyarira igihe bagejeje igihe. Ni byiza ko igihe umubyeyi agejeje igihe cyo kubyara agana kwa muganga bakamushyira mu nzu nk'iyi kugira ngo arusheho kumwitaho abyara umwana mwiza kandi agire arusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Ibikoresho bitandukanye harimo intebe, ibitanda barambikaho abarwayi ndetse n'aho batereka imiti ubona ko hari n'utubati abarwayi babikamo ibikoresho, ni byiza ko igihe turwaye tugana ahantu nk'aha hari ibikoresho byiza kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza batwitaho nk'abaganga babugenewe kandi babyigiye.

Imikindo iteye muri jardin ubona ko ari ahantu hari pasiparume nziza hari indabo nziza hakoze neza hirya haparitse imodoka eshatu ubona ko hari ahantu hari ibiti byiza bitandukanye bitangamo umwuka mwiza wo guhumeka ,ubona ko hari inyubako nziza ziri ahantu nko kwa muganga hatanga serivisi zijyanye n'ubuzima kugira ngo barusheho kubungabunga ubuzima bwa muntu ndetse no gutuma umuntu agira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu heza hari amatara. Hari n'ibyatsi bitandukanye ubona hari n'inyubako nziza. Ubona iyo nyubako ari ahantu hatangirwazwa serivisi z'ubuzima umuntu ashobora kugana bakamufasha bakamuha serivisi z'ibijyanye n'ubuzima, ndetse n'ibindi bitandukanye. Gusa cyane cyane ibijyanye n'ubuzima nk'imiti ndetse n'inama zijyanye n'uburyo yacunga ubuzima bwe, ndetse n'uburyo yakwirinda gushyira ubuzima bwe mu kaga.

Inyubako nziza ubona ari ahantu hari ibitaro byiza bivura umurwayi mbona ko ngo ari handitse ''Sangwa polyclnic''. Ni byiza ko tugana hano kwa Sangwa, ubona ko ari inyubako yubakiwe gufasha abarwayi barwaye kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza, bahagannye kugira ngo barushe kubaha imiti ibafasha kugira ubuzima bwiza. Ni byiza ko igihe cyose ufite ikibazo mu mubiri, ugana ahantu nk'aha bakaguha serivisi z'ubuzima kugira ngo urusheho kumera neza.

Ahantu heza ubona ko ari inyubako zisa nkaho zitanga serivise zo kwa muganga zitandukanye, harimo nko kuba bagupima bakamenya uko ubuzima bwa buhagaze no kuba bavura umurwayi ufite ikibazo, bakamuha imiti agakira. Ubona hari jaride, hasa neza, hari amazu menshi atandukanye asa neza, hari n'abantu bahagannye kugira bahabwe izo serivisi. Ni byiza ko igihe cyose ufite ikibazo ugana kwa maganga bakagufasha kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umugabo ubona aryamye ku gitanda, ubona ko ari ahantu kwa mugangabona, ubona hirya ye hari insinga, hari n'ibikoresho biri kumufasha kumwongerera imbaraga kugira ngo arusheho kugira imbaraga. Ni byiza ko igihe cyose warwaye ugana kwa muganga ubona ko bagufasha hari ibikoresho byiza bitandukanye kandi bigezeho byatuma umera neza ukarushaho kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Inyubako nziza ubona ko ari inzu isa n'itangirwamo serivisi z'ubuzima, ubona ko harimo abaganga imbere ndetse n'abarwayi babagannye bahagaze ku muryango, bategereje kwakirwa kugira na bo bahabwe ubuvuzi, barusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu heza ubona hari abantu bicaye mu ntebe, ubona hari intebe nyinshi zitandukanye, ubona arizo bakiriraho abarwaye ari ahantu kwa muganga, umuntu ashobora kugerageza ikibazo cy'uburwayi runaka, kugira ngo arusheho guhabwa serivisi zijyanye n'ubuzima, ni byiza ko igihe cyose ufite ikibazo ku bijyanye n'ubuzima wegera ahantu nk'aha bakagufasha.

Umugabo ubona ari kuzinga supernet y'ahantu hari umurwayi uryamye mu gitanda, ubona ko ari kwa muganga. Ni byiza ko turara mu nzitiramibu kugira ngo turusheho kwirinda malariya iterwa n'imibu. Ikindi kandi igihe turi kwa muganga, tuba twaje guhabwa serivisi zijyanye n'ubuzima, ni byiza ko tuhagana twese nk'abantu barwaye kugira ngo turusheho kwitabwaho nk'uko bigaragara.

Umurwayi ubona ko ari ku gitanda cy'abarwayi ubona ko umuganga ari kumwitaho ubona ko hirya hariyo undi murwayi ubona ko aryamye kugitanda ubona ko hari ahantu kwa muganga heza hatangirwa serivisi zifasha abaturage ndetse n'abandi bantu batandukanye kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Ni byiza ko tubungabunga ubuzima bwacu tugana ahantu nk'aha hatangirwa serivisi z'ubuzima kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu heza ko ari muri sare hari ibikoresho bitandukanye bikorerwaho siporo, umuntu ashobora kugenda agaterura amariteri, akiruka ku mashini ndetse bakanamukorera masaje kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Dukore siporo turusheho kugira ubuzima bwiza kuko siporo ni imwe mu miti myiza idufasha gukira siteresi ndetse umunaniro ndetse n'ibicurane, dukore siporo tugire ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu heza ubona nta hari ibikoresho bitandukanye ari ahantu umuntu ashobora kugenda bakamufasha ubonaka ari inzu yubakiwe gutanga serivisi zijyanye n'ubuzima hari intebe hari ibitanda byiza baryamishaho umuntu kugira bamufashe hari n'ibindi bikoresho babifashisha bapima umurwayi kugira ngomenye ubuzima bwe buhagaze bamenye bo bahera bamuvura ni byizayiza twese twagize ikibazo ku buzima tugana ibitaro ndetse n'aditu hatangirwa serivisi z'ubuzima kugirango ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu heza ubona ari inyubako yo kwa muganga ifasha abantu barwaye kuba babasuzuma bakamenya icyo barwaye, ni byiza ko igihe twagize ikibazo ku buzima bwacu tugana ahantu nkaha bakadufasha kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, twegere amavuriro adufashe.

Umurwayi ubona ari kwa muganga uryamye, ubona bashaka kumusuzuma kugira ngo bamenye uko ameze, ubona ko hino haryamyeho umugabo, hirya haryamye na ho undi w'umugabo, ubona ko uwo hirya ari kwitabwaho n'umuganga w'umugore, uwo hino ari kwitabwaho n'umuganaga w'umugabo, ni byiza ko tubungabunga ubuzima bwacu tugana kwa muganga, ahari amavuriro kugira ngo badufashe badusuzume tumenye uko ubuzima bwacu buhagaze, baduhe imiti turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Urujya n'uruza rw'abantu ubona bari guca mu muhanda, harimo abikoreye amabasi ndetse n'abandi bafite ibintu bitandukanye, ubona ko bari guca impande y'ibitaro bya Ruhengeri, ubona ko ibitaro bya Ruhengeri biherereye mu Majyaruguru mu karere ka Musanze, ahantu heza, ibitaro byiza bifasha abantu kubavura indwara zitandukanye kugira ngo babashe kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Ni byiza ko igihe dufite ibibazo ku mubiri wacu tugana kwa muganga bakadufasha kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Inyubako nziza ubona ko ari inzu nziza zitandukanye zubatse neza, ubona ko ari ahantu hatangirwa serivisi z'ubuzima nk'uko hagaragara. Hari jaride, hari uduhanda tugenda tuhakata tujyayo, ni byiza ko igihe twagize ikibazo cy'uburwayi ku buzima, tuhagana bakatuvura bakadufasha nkuko hatangirwa serivisi zijyanye n'ubuzima.

Umwana ubona yicaye mu kagare k'abantu bafite ubumuga, ubona ko ashobora kuba bafite ubumuga bw'amaguru, mbona ari ahantu mu muhanda hiryaya hari inyubako, imbere ye hari pasiparume nziza garidi hari n'indabo zisaganye ubona ko hari n'ikigega hakurya gifata amazi, ni byiza kubungabunga ubuzima bwacu kugirango ubuzima buzira umuze dukoresha imiti nkiyi kandi twita ku bantu bafite ubumuga kugirango barusheho kumva bafite ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu heza ubona ari inyubako nziza abantu bashobora kugana bagahabwa serivisi zijyanye n'ubuzima. Ni byiza ko igihe cyose umurwayi afite ikibazo runaka ku mubiri, ashobora kuhagana bakamufasha, bakamugira inama, nubwo batamuha n'imiti, bakamugira inama ku bijyanye n'ubuzima kugira ngo arusheho kubungabunga ubuzima bwe no kugira ejo hazaza heza. Tubungabunge ubuzima bwacu, turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu heza ubona ko ari kwa muganga. Ubona ko hari umurwayi bari kwitaho. Ubona ko bari kumufata amaraso, bamupima banamenya uko ahagaze. Ni byiza kubungabunga ubuzima bwacu tujya kwa muganga kugira ngo turusheho guhabwa serivisi z'ubuzima, turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Igihe cyose urwaye nk'umurwayi gana kwa muganga bagufashe, urusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu hari umurwayi ubona ko ari kwa muganga, ubona arwaye cyane, ni byiza ko igihe cyose turwaye tugana ibitaro bakadufasha ahantu nk'aha hatangirwa serivisi z'ubuvuzi kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima bwacu, turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu heza ubona kotangagirwa sevisi z'ibijyanye n'ubuzima, ubona ko hari umugabo wicaye ku ntebe hari n'undi uri guhabwa serivisi, hari n'abagore bicaye hirya, ubona ko ari byiza ko igihe turwaye tugana ahantu nk'aha bakadufasha bakaduha serivisi zijyanye n'ubuzima no kuba twamenya amakuru meza ku buzima, tukamenya ko twitwara kugira ngo tushe kugira ubuzima bwiza mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ahantu ubona hari ibitanda byinshi bitandukanye, ubona ko hari na supaneti nyinshi zitandukanye, harimo n'abaganga. Ubona ko ari ahantu bakirira abarwayi, bakaryama igihe babahaye ibitaro, igihe barembye. Ni byiza ko tugana kwa muganga igihe twarwaye, nk'uko bigaragara hari ibikoresho byiza bifasha abaganga, kwakira umurwayi no kumufasha kugira ngo arusheho gukira.

Inyubako nziza ubona ko ari inzu isize irangi ry'ibyumweru, ifite amabati y'ubururu, ubona hanze hari umurasire ifite na kizimyamwoto, ubona ko yubatse neza ifite inkingi eshanu imbere, ubona ko ari inzu nziza yo kwa muganga, inzu y'ababyeyi babyariramo aho bita muri materinete, ni byiza ko igihe cyose umubyeyi agiye kubyarana kwa muganga bakamushyira mu cyumba kiza nk'iki kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza no kubyara umwana mwiza kandi witaweho.

Ahantu heza hari ibikoresho byinshi bitandukanye, ubona ko ari kwa muganga ahantu hari ibikoresho byiza, bigezweho bifasha abantu kubasuzuma ndetse no kubavura indwara zitandukanye kugira ngo barusheho kumenya uko bahagaze mu mibiri yabo ndetse no kugira ngo bagire ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Ni byiza ko igihe nk'umurwayi ugize ikibazo, ugana kwa muganga, bakagufasha kugira arusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu heza ubona hari bikoresho byiza bitandukanye, hari intebe, ameza ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi. Ubona ko umuntu ashobora kuhagana bakamusuzuma cyangwa bakamugira inama ku bijyanye n'ubuzima, igihe agize ikibazo ku buzima bwe. Tugane ahantu nk'aha badufashe, kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Inyubako nziza, ubona ko ari inzu itangirwamo serivisi ku barwayi, aho uza bakagufasha kumenya uko umeze bakaguha n'imiti itandukanye kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, bumeze neza ubeho ufite icyerekezo. Ni byiza ko kugira ngo ube ufite icyerekezo ugomba kuba ufite ubuzima buzira umuze, tugane kwa muganga ahantu nk'aha hari inzu zabugenewe, badufashe baduhe imiti turusheho kugira ubwo buzima bwiza.

Ahantu heza, ubona hari ibikoresho bitandukanye, harimo ibitanda, amarido ndetse n'ibindi byuma byifashishwa mu gupima umurwayi igihe arwaye, ubona ko ari ahantu heza umuntu ashobora kujya igihe yarwaye, bakamufasha, bakamuvura, bakamwitaho, akarushaho kugira ubuzima bwiza.

Inzu nziza ubona ko ari inyubako nini cyane, ubona ko ari ahantu hari umuhanda, jaride ndetse na pasiparumu nziza. Ubona ko ari ahantu hateye neza hari isuku. Ubona ko ari ahantu hari inyubako zubatse mu buryo bwiza, ubona ko zitanga serivisi zijyanye n'ubuzima, ubona ko ari ahantu wagana bakagufasha.

Ibyicungo ni ibikoresho bifasha abana kwishimisha barya umunyenga, aho umwe ajyamo bakamusunika ubona biri ahantu heza muri jaride hateye ibyatsi byiza hari indabo bizitiye biri mu gipangu imbere. Ni byiza ko abana bacu natwe abantu bakuru babikunda, tugenda tukajya ku byicungo tukarya umunyenga kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi twishime.

Ahantu heza ubona hari inyubako nziza, ubona ko ari ibikorwa remezo bya Leta, ubona ko hatangwa serivisi nyinshi zitandukanye harimo n'izijyanye n'ubuzima no kumenya uko umuntu ahagaze muri we, ni byiza ko tugana ibigo nk'ibi kugira ngo turusheho kuvuga ndetse no kumenya uko duhagaze mu buzima bwacu, ubona ko hari imodoka n'ibindi bikorwa bitandukanye.

Umurwayi ubona wicaye kwa muganga ubona ko bari kumwitaho bamubaza imyirondoro ye kugira ngo abasheho kumufasha bamuhe ubuvuzi ndetse bamuhe n'ubufasha ku bijyanye n'ubuzima arushaho kugira ubuzima bwiza buzira umuze. Ubona ko inyuma hari undi w'umugore ufite igitabo arimo asoma ibyo baba baranditse ku bijyanye n'ubuzima kugira ngo barusheho gufasha umurwayi neza.

Ahantu heza ubona hari inyubako nziza zitandukanye hari jaride hari n'indabo, hari n'abantu baje kuhasura kugira ngo bafashwe, urabonaka abo bantu atari kuhasura gusa ahubwo baje kuhasaba serivisi zijyanye n'ubuvuzi kugira ngo barusheho kwitabwaho barusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze. Ni byiza ko natwe igihe warwaye ujya kwa muganga bakagufasha kugira ngo urusheho kumera neza.

Ahantu heza ubona ari inyubako zitanga serivisi z'ubuvuzi. Ubona ko ari ahantu heza umuntu yagana bakamuha serivisi z'ubuvuzi no ku bijyanye n'ubuzima igihe arwaye, ndetse ashaka no kugira byinshi amenya ku buzima yahagana bakamufasha. Ni byiza ko tugana amavuriro, ndetse n'amazu nk'aya y'ibikorwa remezo yubatswe kugira ngo abashwe abantu mu kubavura. Tugana amavuriro turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Inyubako nziza ubona ko ari inzu nini cyane itanga serivisi zijyanye n'ubuzima, ari ahantu umuntu ashobora kugana akahakura serivisi nziza zijyanye n'ubuzima, akaba yanahamenyera amakuru ku bijyanye n'ubuzima kugira ngo arusheho kwiyitaho ndetse arushaho no kubungabunga ubuzima bwe bwa buri munsi, arusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, tugane ibikorwa Remezo byubatswe nk'ibi kugira ngo biduhe izo serivisi zijyanye n'ubuzima turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzi umuze.

Inyubako nziza ubona ko ari inzu itanga serivisi zijyanye n'ubuzima no kubungabunga ubuzima bwa muntu. Ubona imbere yaho hateye indabo nziza, ubona ko ari ibyatsi bishobora no gukorwamo imiti myiza ya kinyarwanda. Ubona iyo nzu hari abantu benshi bahateraniye bahagannye kugira ngo bahabwe serivisi ku bijyanye n'ubuzima. Ni byiza ko igihe cyose tugize ikibazo ku buzima bwacu twegera kwa muganga bakadufasha.

Inyubako nziza, ubona ko ari inzu y’ababyeyi n’impinja. Ni ahantu ababyeyi babyarira abana, n’uko bakahabarerera bikaba ngombwa ko n’abaganga babafasha kugira ngo barusheho kubitaho igihe bari kubyara cyase igihe bamaze igihe gito bababyaye nk’umunsi umwe bakiri kwa muganga. Bakabitaho kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Umubyeyi si bya agiye kubyarana ibyiza, akagwa awanwa kwa muganga, kugira arusheho kubungabunga ubuzima bw’umwana we.

Umusaza wambaye rinete ubona ko ari kumwe n'umukobwa mwiza ufite imisatsi, ubona ko ari kumupima kugira ngo amenye uko ubuzima bwe buhagaze. Urabona ko asa n'uri kumupima umuvuduko w'amaraso kugira ngo arebe ko nta kibazo cy'ubuzima mu maraso afite. Ni byiza ko tugana kwa muganga kugira ngo badupime indwara zitandukanye kugira ngo tumenye uko ubuzima bwacu buhagaze, turushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ivuriro rya Kagina, ubona ko ari inyubako nziza, ubona ko bahereye batwereka ku marembo ya gare, ubona hari umubyeyi uhahagaze, uhetse umwana arimo amuhendahenda, ni byiza ko igihe twahuye n'uburwayi tugana ahantu nk'aha by'umwihariko ku bitaro, kugira ngo turusheho guhabwa serevisi z'ubuzima, turushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, tugana kwa muganga badufasha nk'uko babyiyemeje cyangwa babisabwa.

Igitanda ubona iruhande rwako hari ibikoresho byiza bitandukanye, ubona byifashishwa igihe basuzuma umurwayi kugira ngo barusheho kumenya ubuzima bwe uko bihagaze no kugira ngo barusheho kumenya aho bahera bamufasha, bamushyira kuri kino gitanda bakamufasha kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu heza hagaragara gardin, ibendera ryiza ndetse n'inyubako nziza zitandukanye. UbonO ko ari ahantu hari inyubako nziza zifasha abantu mu kuba bahabwa serivisi zijyanye n'ubuzima nk'uko bigaragara ubona ko ari ahantu abantu abarwayi bajya igihe barwaye kugira ngo babafashe kugira ngo urusheho no kubabwira ku bijyanye n'ubuzima. Ni byiza ko igihe cyose ufite ikibazo wagana bakagufasha kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu heza ubona hari ibyatsi bitandukanye, ubona ko ari ahantu hasa neza umuntu ashobora kujya bakamufasha bakamuha imiti cyangwa bakamuha inama ku bijyanye n'ubuzima akamenya uko yitwara mu buzima bwe bwa buri munsi, ni byiza ko umuntu abaho arebana n'ubuzima bwe ndetse n'ubwa bagenzi be abagira inama kugira ngo barusheho kubungabunga ubuzima bwabo no kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Ahantu heza hari intebe zitandukanye, hari akabati, ameza ndetse na mashini iteretse ku meza, ubona ko ari ahantu mu biro, ubona ko ari ahantu hatangirwa serivisi zitandukanye, abantu bashobora kujyayo bagahabwa serivisi kuko ari ahantu ubona ko ari mu biro. Ni byiza ko twegera ibigo nk'ibi bikadufasha kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Abagabo ndetse ubona ko ari bo benshi biganje harimo n'abagore babiri. Ubona ko bambaye udupfukamunwa bambaye neza kandi batandukanye bashyizemo intera. Ni byiza ko igihe cyose turi kumwe n'abandi twambara agapfukamunwa tukarushaho no gushyiramo intera tugatandukana kugira ngo turusheho kwirinda ibyorezo bimwe na bimwe byandura igihe abantu begeranye.

Ahantu heza ubona hari inyubako nziza cyane, ubona ko ari kwa Nyirangarama ku bitaro byaho, ubona ko ari ahantu hatangagirwa serivisi z'ubuzima, umuntu yagize ikibazo akaba yahagana bakamufasha kumuvura. Bakaba banamufasha kumusuzuma bakanamubwira indwara arwaye. Ni byiza ko igihe cyose dufite ibibazo runaka bitandukanye byo ku buzima bwacu nk'uburwayi, tugana amavuriro ndetse n'ahandi hantu hatandukanye batangira serivisi z'ubuzima kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu heza ubona hari inyubako nziza itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ubona harimo ibikoresho bitandukanye nk'ibitanda, intebe, n'ahandi hantu umuntu ashobora kwicara bakamusuzuma kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza no kumenya uko ubuzima bwe buhagaze.

Umugabo mwiza wambaye isaha, ufite ikaramu ubona ko yambaye itaburiya y'umweru, ubona ko ari umuganga, ubona yicaye ku ntebe nziza ubona impande hari igitanda gisa n'icyatsi n'ibindi bikoresho ubona ko ari kwa muganga, ubona ko ari ahantu basa naho batanga serivise zo gukuramo inyo ndetse no kwita ku menyo, ni byiza ko tubungabunga mu kanwa kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Ahantu heza ubona ari mu nzu nziza ubona hatangirwa ibintu bijyanye n'ubuvuzi ku bijyanye na pediatric, ni byiza ko umuntu ufite ikibazo ku bijyanye n'ubuzima abagana bakamufasha kugira ngo arusheho kumenya uko ahagaze no kugira ngo arusheho kubungabunga ubuzima bwe yitabweho arusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu heza ubona ko hari muri salle hagaragara ibikoresho bitandukanye: intebe, ameza, ndetse n'ibindi. Ubona ko ari ahantu hateranira abantu benshi hagakorerwa igikorwa cy'inama kugira ngo barusheho kuganira ndetse no kumenya uko abandi bahagaze muri sosete, kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, baganira bamenya n'amakuru.

Ahantu heza ubona hari ibitaro, ubona ko ari kwa muganga hari umurwayi uryamye bari kumwitaho, ubona ko hirya ye hari umuganga kugira ngo arusheho kumufasha, ubona ko bamushyizemo serumu kugira ngo arusheho kugarura umwuka ndetse no kugarura intege, ni byiza ko igihe cyose turwaye tugana kwa muganga kuko hari ubushobozi bwose bushoboka bwadufasha ko batwitaho bakaduha n'imiti itandukanye kugira ngo turusheho gukira.

inyubako nziza ubona imbere waparitse umumotari hahagaze n'umuntu hanze ku muryango ubona ari mbere ya farumasi nziza umuntu ashobora kujyayo bakamufasha iyo farumasi niy'umuntu witwa murekatete maridenise ushobora kugenda akagufasha ubona ko ari ahantu heza ikorana na rama ufite ikibazo wagenda bakakuvura kugira ngosheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze

Inyubako nziza ubona ari kontineri irimo hagati, ubona ko ari ahantu hatangagirwa serivise z'ibijyanye n'ubuzima kugira ngo barusheho kubungabuga ubuzima bwa buri muntu ndetse n'abatuye isi, ni byiza ko tugana ahantu nk'aha hari inyubako nk'izi, turushaho guhabwa serivise nziza zitandukanye z'ubu buzima, kugra ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umubyeyi ubona urwaye aryamye ku gitanda, ubona hari abaganga babiri bari kumwitaho kugirango arusheho kuzanzamuka atora agatege, ubona ko bamuryamishije ku gitanda kugira ngo barusheho kumwitaho ahabwe serivisi nziza, ave kwa muganga yakize afite akabaraga. Ni byiza ko igihe cyose urwaye wumva umeze nabi ugana kwa muganga bakagufasha kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu heza ubona hari inyubako zitandukanye nziza, ubona ko ari ku bitaro bya kabgayi, biherereye mu majyaruguru i Musanze, ni byiza ko tugana ibitaro nk'ibi bikadufasha bikatuvura, kugirango turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Inyubako nini cyane ubona ari ahantu heza, ubona hari abantu basa n'abaje kuhasaba serivisi, ubona ko hari igiti cyiza kiri muri jaride, jaride nziza hari n'indabo, ubona ko ari ahantu hatangirwa sevisi zijyanye n'ubuzima, ubona ko ari inyubako yubatswe kugira ngo ifashe abaturage kubona serivisi zijyanye n'ubuzima, zirusheho no kubungabunga ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Ni byiza ko abaturage bahagana, kugira basheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze buturutse kuri serivisi z'ahantu nk'aha.

Ahantu heza ubona hari ibikoresho bitandukanye, ubona ko ari ahantu ushobora kugera bakagufasha igihe warwaye cyangwa igihe wagize ikibazo kijyanye n'ubuzima ubona hari intebe nziza hari igitanda hari imeza, hari n'izindi ntebe n'utubati n'ibikoresho byiza, bifasha abarwayi igihe bagize ikibazo. Ni byiza ko tubungabunga ubuzima bwacu tugana ibitaro kugira ngo badufashe.

Ahantu heza ubona hari inyubako y'ibitaro by'umwami Faisal ubona ko ari ahantu heza hari ababyeyi bari kuhagana ubona ko ari ahantu hatangirwa serivisi zijyanye n'ubuzima, umwami Faisal ni ibitaro biherereye mu mujyi wa Kigali bivura abarwayi indwara zitandukanye, ni byiza ko igihe urwaye wagana ibi bitaro bikagufasha kugira ngo urusheho gukomeza kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Imbuto zitandukanye ndetse n'amazi ubona hari na metero yifashishwa mu gupima uko umuntu areshya igihe cyose yariye neza. Ni byiza ko turya imbuto nk'uko bigaragara amaronji, pome ndetse n'ubundi bwoko bw'imbuto butandukanye, ubona hari n'icupa ry'amazi nk'uko tubizi ko amazi ari isoko y'ubuzima, tunywe amazi turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umusore uryamye ku gitanda, ubona ko hari umugabo uri kumukorera masaje amukanda ahantu kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza ndetse n'imitsi irusheho gukora neza, ni byiza ko twegera ibigo nk'ibi bitanga serivisi nk'izi zigendanye n'ubuzima, kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima bwacu dukora siporo, dukora na masaje kugira ngo tugire ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umusore ubona arimo kunywa amazi, umeze nk'aho yari ari siporo. Ni byiza ko dukora siporo tukanywamo n'amazi menshi kuko ibyo byose bigira akamaro ku mibiri yacu. Siporo idufasha gusohora imyanda mu mubiri, amazi akabafasha gutembera kw'amaraso mu buryo bworoshye mu mitsi, mu mubiri wose. Ni byiza ko tunywa amazi, tukanakora siporo kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza no kugira ejo hazaza hacu heza.

Umukobwa ubona yambaye imyenda ya siporo, ubona ko ari muri siporo arimo ananura amaguru ndetse n'amaboko, ni byiza ko dukora siporo kuko zidufasha kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze no kubungabunga ubuzima bwacu bwa buri munsi dusohora imyanda mu mubiri ndetse twirindara n'indwara zitandukanye nk'ibicurane n'ibindi.

Umusore ubona wicaye hasi afite icupa ry'amazi arimo anywa amazi ubona ko ameze nk'umuntu uvuye muri siporo, ni byiza ko igihe cyose uvuye muri siporo unywa amazi kandi tugakora siporo kugira ngo turusheho kugabanya ibinure mu mubiri ndetse no gusohora imyanda, ni byiza ko kandi tunywa amazi kuko amazi ni meza adufasha kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umuntu wambaye agapira k'umuhondo, ubonatewe n'abantu babiri bambaye utujiri tw'umutuku. Ubona ko agize ikibazo bagahita bamufata bakamwihutana kugira ngo bamujyane kwa muganga, bakabanza kumukorera ubutabazi bw'ibanze. Harimo nko kumuterura nyine kugira ngo yere kuvunika. Ndetse ni byiza ko igihe cyose tugize ikibazo tugana kwa muganga, cyangwa se bakadufasha kutugeza kwa muganga kugira ngo turusheho kwitabwaho, dukomeze kugira ubuzima bwiza.

Ahantu hari ibikoresho bitandukanye harimo imbuto. Imineke, amaronji, inanasi, umwembe, amatunda, indimu ndetse n'ibindi. Ubona ko ari ibikoresho byiza cyangwa se ari imbuto nziza zifashishwa mu kubungabunga ubuzima bwacu, twongera intungamubiri mu mubiri nk'igihe tuvuye muri siporo. Ni byiza ko dukoresha imbuto nk'izi.

Umugabo ubona afite telefone ari kumva ekuteri ariko kumvamva indirimbo, ubona ko ari kunywa amazi yicaye ahantu heza ku dosikariye ubona ko yishimye ubona ko yarari muri siporo akaba yicaye akaruhuka, akanywa amazi. Ni byiza ko tunywa amazi kuko amazi ni isoko y'ubuzima kandi tugakora siporo kuko siporo nazo zifasha umubiri wacu gukomeza kumera neza, dusohora imyanda iri mu mubiri ndetse inadufasha kugira ubuzima bwiza.

Umuganga ubona ko ari kwita ku muntu ugize ikibazo ku kaguru akaba ari kumupfuka, ndetse anamushyiraho bande kugirango ngo arusheho kumufasha amuvure, ni byiza ko iyo tugize ikibazo runaka dutsikiye, cyangwa tuvunitse, cyangwa turwaye tugana kwa muganga ahantu nkaha bakadufasha kugirango turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umusore ubona wicaye hasi arimo akora siporo ananura amaguru, ubona ko arimo ananura n'amaboko kugira imitsi ye irusheho gukora neza no gutwara amaraso mu mubiri; kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Siporo n'iza ku mubiri wacu dukore siporo turusheho kwimakaza umubiri mwiza ndetse no kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umusore ubona afite akantu keza, bifashisha bakanda ahantu umuntu yagize ikibazo kugirango ngo arusheho kumera neza, ubona ko ari kwikanda kugirango ngo arusheho kunanura imitsi no kugira ngo yoroshye uburibwe. Ni byiza ko igihe cyose wagize ikibazo ugakoresha wikanda kugirango urusheho kunanura imitsi no kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza.

Ikirahure ubona abari gusukamo amazi aturutse mu ijage. Ni byiza ko tunywa amazi meza twabanje guteka kugirango ngo turusheho kugira ubuzima bwiza . Bizadufasha gutuma umubiri wacu utemberamo n'amaraso mu buryo bwiza kandi bworoshye . Tunywe amazi ni meza ku mibiri yacu ,tugira ubuzima bwiza.

Umukobwa wicaye hasi kumukeka ubona ko ari muri siporo imbere hari i mashini, imbere hari utundi tuntu tunura imitsi bashyira mu biganza tukananura ibiganza, urabona ko impade ye hari icupa ry'amazi n'ibindi bikoresho umuntu akoresha muri siporo, murabona ko ari kunanura amaboko n'amaguru ukuntu yicaye kugirango ngo arusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze binyuze muri siporo, siporo ni nziza tuzikore kuko zidufasha kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu ubona hari ubwoko butandukanye bagira abantu inama yo gukora siporo kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza butandukanye. Ushobora gukora siporo zitandukanye wirinda gusuhukanya na mugenzi wawe kugira ngo urusheho kwirinda indwara, ndetse ukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, ndetse byaba ngombwa ugakoresha n'icyo bita hand sanitizer. Umuti mwiza bakoresha basukura intoki.

Imiti itandukanye ubona iteretse ku meza ubona harimo n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa igihe umuntu avuye nko muri siporo. Harimo nka pomade harimo, handi sanitayiza, umuti mwiza bakaraba mu ntoki wihica mikorobe bigatuma abantu bagira ubuzima bwiza birinda n'indwara ziterwa n'umwanda. Ni byiza ko tubungabunga ibidukikije ndetse n'imiti nk'iyi kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu ubona ko ari kwa muganga, hari abaganga babiri n'umurwayi ubona ko afite ikibazo ku kaguru, ubona hari abagabo babiri bambaye neza amakositimu n'inyuma yabo hari abandi batonze umurongo, ubona ko bari kureba uko wafasha umuntu ufite ikibazo cy'akaguru, kugira ngo arusheho kumera neza. Ubona ko abaganga bishimiye gufasha uyu murwayi, urwaye akaguru. Ni byiza ko igihe cyose dufite ikibazo cy'uburwayi tujya kwa muganga, kugira ngo barusheho kudufata bitararengera.

Umukobwa mwiza ubona ari muri siporo arimo aranywa n'amazi, ubona ko kunywa amazi ari byiza ku mubiri wacu bifasha byinshi ku mubir,i harimo nko gutembera neza kw'amaraso mu mubiri ndetse tukanakora siporo kuko zidufasha kugabanya umubyibuho ukabije ndetse no gusohora imyanda mu mubiri.

Umuntu ubona afite imbuto zitandukanye. Harimo avoka, amaronji, pome ndetse n'inyanya, tungurusumu, n'urusenda n'ibindi. Kuruhande hari udukoresho bifashisha muri siporo baterura, bakadufata kugira ngo umuntu arusheho kunanura imitsi ye mu ntoki. Hari icupa ry'amazi. Ni byiza ko igihe cyose tumaze kurya imbuto, tushobora no kunywa amazi, kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umukobwa ubona wambaye isaha, ekuteri yumva indirimbo, ubona ko ari muri siporo arimo ananura amaboko ndetse n'urutirigongo, kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Siporo ni nziza ku mubiri wacu dukore siporo buri munsi turushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umukobwa ubona ari muri siporo arimo ananura amaguru n'amaboko, ubona yarambuye akaboko yahinnye akaguru kugira ngo arusheho kurambuka neza. Ni byiza ko dukora siporo, siporo ni nziza ku mubiri wacu no mu buzima bwacu bwa buri munsi. Dukore siporo twimakaze ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Bizadufasha no kurwanya indwara zimwe na zimwe nk'ibicurane n'ibindi.

Umukobwa ubona ko ahagaze arimo gukora siporo kugirango ngo arusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Ni byiza ko tubungabunga ubuzima bwacu dukora siporo kuko ari nziza ku mibiri yacu idufasha kugira ubuzima bwiza kandi buzi umuze. Ni byiza ko kandi zidufasha no gusohora imyanda. Dukore siporo twimakaze ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Urujya n'uruza rw'abantu ubona ko ari abantu benshi cyane, bari ahantu hamwe barimo bareba umukino ubona ko bari gufana, ni byiza ko tujya gufana kuko bidufasha kwishima ndetse tukajya no muri siporo, kugira ngo turushe kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, tubungabuguza bwacu dukora siporo, dukora ibintu bidushimisha kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umukobwa ubona ko ari umuganga, afite ibikoresho bakoresha kwa muganga, afite nk'agakoresho gapima ko umutima uri gutera ubona imbere ye hari mashini ndetse ubona ko yambaye agapfukamunwa, ubona ko afite igipapuro n'amakaye imbere ye ari kwandika ibintu bitandukanye, ubona ko ari umukobwa mwiza kandi wambaye na ga, ubona ko ari ahantu ushobora kugenda akaba yagufasha akaba yagufasha akaguha serivise zijyanye n'ubuzima kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza.

Umurwayi ubona ari kwa muganga yagiye aho bamufasha kumukorera masaje mu mugongo bakamunanura kugira ngo arusheho kumera neza. Aha ni ahantu ushobora kugenda bakagukorera masaje mu rwego rwo kuba udakora siporo bakakunanura kugira ngo urusheho kugira ingingo z'imitsi zinanutse kugira ngo urusheho kubaho neza no kugira ubuzima bwiza buzira umuze, amaraso arushaho gutembera neza mu mubiri.

Umukobwa mwiza ubona ko arimo anywa amazi, amazi ni meza ku buzima bwa muntu afasha umubiri wacu gukwirakwiza amaraso mu mubiri bityo tukarushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Tunywe amazi kuko amazi ni isoko y'ubuzima.

Ibinini ubona bitandukanye ubona harimo ibinini by'amabara atandukanye binini by'umweru, oranje ndetse n'umuhondo. Ubona ko hari n'agapombo ku ruhande gatera urushinge igihe umuntu arwaye. Ni byiza ko igihe cyose warwaye ugana kwa muganga bakaguha ibinini nk'ibi bikagufasha, ukurushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze binyuze muri ibyo binini wanyweye, bigafasha umubiri wawe.

Abaganga ubona bambaye imyenda myiza y'ubururu. Ubona ko ari abaganga bakora aho babagira. Ubona ko ari abaganga bafasha abantu kubabaga igihe bafite ikibazo kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza. Ubona ko hari ibikoresho bitandukanye nk'imakasi n'udusorori batwaramo ibikoresho bakoresha. Bambaye ga n'udupfukamunwa n'ingofero zabugenewe.

Umukobwa mwiza ubona wambaye umupira w'umutuku, ubona ariko ko afite ikibazo ashobora kuba yarakomeretse ku ivi. Ni byiza ko tubungabunga ubuzima bwacu tugana kwa muganga bakadufasha igihe twakomeretse tugira ubuzima bwiza binyuze mu kuba badupfuka. Tukabungabunga kuba twakwirinda gutakaza amaraso menshi, tukagira umubiri mwiza kandi n'ubuzima bwiza buzira umuze.

Umusore ubona arimo anywa amazi nk'uko tubizi neza amazi ni meza ku buzima bwacu. Adufasha kubungabunga ubuzima ndetse no gutuma tugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Tubungabunge ubuzima bwacu tunywa amazi kuko amazi ni meza, adufasha mu igogora ndetse akanafasha umubiri gutuma umuntu agira imbaraga kandi akanatuma umuntu arushaho kubungabunga ubuzima bwe, akagira ubuzima bwiza.

Umusore mwiza ubona wicaye hasi arimo ananura amaguru ye akora siporo kugirango ngo arusheho kugira ubuzima bwiza, ni byiza ko dukora siporo kuko siporo ni imwe mu miti cyangwa mu ngamba nziza zafashwe na leta zigaragaza ko zifasha abantu kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, bifasha kandi ikindi abantu gusohora imyanda mu mubiri ndetse no kugabanya ibinure, ni byiza ko dukora siporo kugira ngo tugire ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umusore ubona waje muri masaje ahantu bakora siporo bakananura imitsi ya muntu bakamunanura bakamukanda kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwizabona hari umugabo uri kumukandira ku kaguru mu itako kugira ngo ashoboshe kugira ubuzima bwiza. Ni byiza ko nibakokora gukora siporo twiruka cyangwa se dukeneye n'umupira bitunaniye tugana ibigo nk'ibi bitanga serivisi z'ubuzima harimo nko gukorera abantu masaje kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze binyuze muri siporo.

Umusore ubona afite icupa ry'amazi gurude, ubona arimo anywa amazi nk' tubizi amazi n'isoko y'ubuzima, tunywe amazi kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze turusheho no gutuma amaraso atembera neza mu mubiri nk'uko tubizi amazi afasha byisi mu mubiri.

Umusore ubona ko ari muri siporo arimo ananura ingingo ze z'umubiri, harimo kunanura amavi, amaboko ndetse n'igihimba hejuru, ubona ko arimo akora siporo kugira ngo arusheho kugabanya umubyibuho ukabije no gusohora imyanda mu mubiri no kugira ngo yumve ameze neza, ni byiza ko dukora siporo kuko ni ingirakamaro mu mubiri wacu, kugira ngo zirusheho kudufasha gusohora imyanda no kwirinda indwara zitandukanye harimo nk'ibicurane n'ibindi.

Imbuto zitandukanye ubona harimo ibyatsi ndetse n'agakoresho kifashishwa muri siporo bananura imitsi. Harimo amaronji, pome. Hari na gurude y'amazi. Ubona hari na avoka. Ni byiza ko dukoresha ibiryo nk'ibi tukarya imbuto kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza binyuze mu kurya imbuto kuko zongera intungamubiri mu mubiri, kandi dukore na siporo, tunywe n'amazi kuko amazi n'isoko y'ubuzima.

Ahantu heza, ubona hari ibikoresho bitandukanye, ubona ko hari ibitanda, vandarateri ndetse n'intebe zo kwicaraho, ubona ko ari ibikoresho byiza bifasha abarwayi kwitabwaho igihe bagannye amavuriro nk'aya kugira ngo barusheho gufashwa baruhuka, hakaba hari ibitanda ubona bamuryamishaho kugira ngo arusheho kuruhuka no kugira ngo barushaho kubona uko bamwitaho neza.

Umukobwa ubona wicaye hasi muri pasiparumu hari ibyatsi byiza muri jaride . Ubona ko afite imisatsi myiza yambaye agasengeri n'ikabutura ya siporo ,ubona ko yambaye inkweto nziza za siporo ubona akora ari muri siporo yicayemo nanura amaguru ye urutirigongo ndetse n'amaboko . Ni byiza ko dukora siporo kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kuko zidufasha kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze twirinda indwara zitandukanye harimo ibicurane ndetse n'ibindi dukore siporo turusha kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umukobwa wicaye hasi ubona imbere hari mashini n'utundi tuntu tubiri bafata mu ntoki baterura tunanura imitsi, ubona ko yicaye ari muri siporo arimo ananura akaboko ke. Nk'uko tubizi siporo mu buzima busanzwe idufasha kongera ubudahangarwa bw'umubiri ndetse no kwirinda indwara zimwe na zimwe nk'ibicurane, kurundi ruhande rwe hari n'amazi nk'uko tubizi amazi ari meza ku mubiri.

Ahantu heza ubu n' hariho ibikoresho bitandukanye harimo nk'intebe ibikoresho byiza bikorerwaho siporo n'ibindi, ni byiza ko igihe udashoboye kwiruka mu muhanda ngo ukore siporo cyase no kuba wakina umupira kugirango ukora siporo, ni byiza kugana ibigo nk'ibiingibi bikoresha abantu siporo habayo ibyuma byabugenewe ugakora siporo wiyicariye utuje kugirango ngo urusheho kugabanya umubyibuho ukabije no kuririnda indwara ziterwa no kudakora siporo. Dukore siporo twimakaze umubiri mwiza.

Umusore ubona afite icupa ry'amazi, ubona yambaye isaha ku kuboko, afite n'ubwanwa, ubona ko ari kunywa amazi nk'uko tubizi amazi ni meza ku mubiri, amazi ni isoko y'ubuzima. Ni byiza ko tunywa amazi mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umukobwa ubona wicaye hasi arimo akora siporo zirimo kunanura, siporo bita ngororamubiri . Ni byiza kunanura imibiri yacu dukora siporo nk'izi kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, umukobwa ubona ko ari kunanura urutirigongo, amaguru ndetse n'amaboko kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza no kugira ngo imitsi inanuke ikomeze gutwara amaraso neza mu mubiri.

Umusore mwiza ubona wicaye ku buriri, aho ateruye igikoresho kimeze nk'aho ari ariteri, akantu gafasha abantu kugorora imitsi ndetse no kongera ubudahangarwa bw'umubiri, ubona hirya ye hari umukobwa arimo amubaza ati "ese urumva bimeze bite"? Ni byiza ko tujya ahantu nk'aha muri siporo muri jimu, tugakora siporo kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, siporo ni imwe...

Umusore ubona arimo ananura undi akaguru, ubona ko ari ahantu bakorera masaje banananura abantu, bafasha abantu gukora siporo abo byananiye. Ni byiza ko tugana ahantu nk'aha igihe kwiruka no gukora izindi siporo byatunaniye, bakatunanurira imitsi kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umusore ubona uryamye ku gitanda, ubona ko bari kumukorera masaje bamunanura kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Ni byiza ko igihe twananiwe gukora siporo, twegera aho bakora masaje mu bigo byabugenewe, bakadufasha bakananura ingingo zacu kugira ngo imiti irusheho kunanuka, irusheho gutwara amaraso mu mubiri mu buryo bworoshye.

Ahantu ubona hari imipira itandukanye hari udutenesi, ballon ya rugubi, iya football ndetse n'iya basket. Ni byiza ko dukora siporo tugakina imikino itandukanye kuko irushaho gutuma twishima no kuruhura mu mutwe tukagira ubuzima bwiza kandi buzira umuze binyuze muri iyo mikino.

Ahantu heza ubona ko aha ari ahantu kwa muganga, hari ibikoresho byinshi bitandukanye ushobora kujya ukahakorera siporo, bakagukorera masaje bakananura imitsi yawe kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, tugane ibigo nk'ibi bigorora abantu bikanabaha imiti yabafasha mu kumera neza, gutuma umubiri wabo umera neza.

Umukobwa ubona yicaye hejuru ubona hari umugabo uri hasi, bibona ko umukobwa uri muri siporo, nk'uko tubizi hari ibigo bitandukanye byafunguye amajimu umuntu ajyamo akaba yakora siporo, ni byiza ko tubigana ubona ko hari ibikoresho byiza byadufasha gukora siporo tukarushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Dukore siporo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umusore ubona wicaye ku ntebe, ubona hirya ye hahagaze umukobwa, ubona umusore kunywa amazi umukobwa arimo yinanura akora siporo, abona ko bafite ibikapu byiza bibiri buri wese afite ike, ni byiza ko dukora siporo tukanywa n'amazi kuko ni byiza ku mibiri yacu bituma tugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umukobwa mwiza wambaye inkweto z'umweru ipantaro y'umukara, ndetse ubona ko yambaye na kuteri ari muri siporo, ari kunanura amaguru kugirango arusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Ni byiza ko dukora siporo kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umusore mwiza ubona arimo anywa amazi yambaye ekoteri ubona ko yarari muri siporo ni byiza kuko tunywa ama tukanakora siporo kuko ari byiza byose ku mibiriyacu, amazi ni isoko y'ubuzima kandi siporo ni isoko y'ubuzima idufasha gusohora imyanda muri siporo ndetse bikanatuma tugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze tunywa amazi turanakora siporo turushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umurwayi ubona wicaye ku gitanda, ubona umuganga arimo umufasha amunurira akaguru, ubona ko yagize ikibazo ayo muri siporo akaba yavunitse wenda ubwo yashoboraga kuba yakinaga umupira, ni byiza ko tujya kwa muganga bakatuvura ubona ko bamushyiriyeho bande n'ibindi bikoresho bitandukanye, bakamushyirara na pomade, kugira ngo asheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze anakire.

Umusore mwiza ubona ko ari muri siporo, arimo agorora ingingo ze z'umubiri harimo nk'imbavu, amaguru n'amaboko kugira ngo amaraso arusheho gutembera mu mubiri, ni byiza ko dukora siporo ni nziza ku mubiri wacu, zidufasha kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, dukore siporo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Umugabo ubona uri mu zabukuru ubona afite akabido k'amazi, ari kunywa amazi, ni byiza ko tunywa amazi meza ku buzima bwacu no ku mibiri yacu. Amazi afasha gusohora imyanda mibi mu mubiri ndetse akanafasha mu igogora igihe twariye, ikindi kandi amazi afasha imibiri yacu gutuma amaraso atembera neza mu mubiri ku buryo bworoshye. Tunywa amazi turushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umusore mwiza ubona uri muri siporo, arimo ananura akaguru ke ndetse n'amaboko, kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza. Ubona yambaye isaha ubona ko ari umusore uri muri siporo, yarushaho kugira ubuzima bwiza binyuze muri siporo. Ni byiza ko natwe dukora siporo kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Dukore siporo kuko ni umuti mwiza utuvura indwara zitandukanye harimo nk'ibicurane.

Umukobwa ubona ari muri siporo, ubona arimo ananura amaboko, yapfukamye arambura amavi n'amaguru, kugirango ngo arusheho gukora umubiri we no gusohora ibinure mu mubiri n'imyanda. Ni byiza ko dukora siporo, kuko zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ubuzima bwiza ndetse no gutuma amaraso atebera neza mu mubiri, igihe twasohoye imyanda mu mubiri. Dukore siporo turusheho kugira ubuzima bwiza. Kandi bizaturinda indwara nyinshi zitandukanye.

Ikirahure ubona giteretse hasi, ubona ko hari icupa ry'amazi, hari umuntu umeze nk'aho ari kuyasukamo ugiye kuyanywa, ni byiza ko tubungabunga ubuzima bwacu tunywa amazi kuko amazi ni ingirakamaro ku mubiri wacu, adufasha kongerera ubudahangarwa umubiri wacu, kandi afasha no mu kuba wavurwa umutwe bitewe n'uko wanyweye amazi, amazi afasha mu igogora ndetse no gutwarwa kw'amaraso mu buryo bworoshye, tunywe amazi.

Ahantu ubona ko ari muri jimu ahantu hakorerwa siporo ngororamubiri mbona ko bafata abantu bakabakora massage bakabananura ingingo zitandukanye kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze, kugira ngo ba ururusheho kugira imitsi itwara amaraso neza, ni byiza ko tugana ahantu nk'aha igihe twananiwe gukora siporo twiruka kugira ngo arusheho kudufasha gukora siporo banatunanura imitsiki ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Igikoresho cyiza kizwi nka burankari, cyifashishwa mu gutwaraho umuntu urwaye, cyane cyane mu kibuga nk'igihe hari kuba umupira umuntu akavunikiramo, akananirwa kwikuramo, iki gikoresho nibwo gikoreshwa, bagasohora umurwayi mu kibuga kugira ngo abashe kwitabwaho ari hanze. Ikindi gihe ushobora kugikoresha umuntu arwaye umujyana kwa muganga.

Umugabo ubona ari muri siporo ahantu mu kibuga arimo asimbuka, ubona inyuma ye hari ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa muri siporo abantu babungabunga ubuzima bwabo kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Ni byiza ko dukora siporo kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ibikoresho bitandukanye harimo imbuto, imboga ji iri mu kirahure ndetse n'udukoresho baterura bakora siporo hari inkeri n'izindi mbuto nka pome ni byiza kubungabunga ibidukikije ndetse tugakoresha imbuto nk'izi kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza dukora na siporo kugira ngo turusheho kwimakaza ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umukobwa ubona uryamye hasi ari gukora siporo, ubona ko yagonze urutirigongo rwe ubona ko asa nk'aho ari kunanura umugongo ndetse n'umutwe n'amaguru n'amaboko kugira ngo ngo arusheho kugira ubuzima bwiza binyuze muri siporo yakoze, ni byiza ko dukora siporo tukanananura n'ingingo zimwe na zimwe z'umubiri wacu kugirango turusheho kugira ubuzima bwiza.

Umugabo ubona uryamye hasi, arimo akoresha siporo akaguru ubona ko bakaziritse kugira ngo kananuke, ni byiza ko tugana ibigo nk'ibi birimo ibikoresho byadufasha gukora siporo, kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza. Tubigane tunanure imitsi, dukore na siporo turusheho no kubaka umubiri no gusohora imyanda mu mubiri kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza n'ejo heza hacu hazabe heza.

Umusore ubona ari muri siporo, arimo ananura amaguru ye ndetse n'amaboko. Ubona ko ari umusore mwiza cyane wakoze umubiri. Ni byiza ko tujya muri siporo, kugira ngo turusheho kongera imbaraga mu mubiri wacu ndetse no kwirinda indwara zimwe na zimwe, zifata abantu. Harimo nka rubangimpande, icyo bita imbwa zifata umuntu igihe aba amaze igihe kinini adakora siporo. Ni byiza ko dukora siporo kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umusore ubona ko ari muri siporo arimo ananura amaboko, ubona ko arimo akora siporo kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza nk'uko tubizi siporo zidufasha gusohora imyanda mu mubiri ndetse no gukomeza kugira ubuzima bwiza buzira indwara.

Ahantu heza hari ubwoko butandukanye bw'amakarito ubona ko arimo imiti myiza ya Kinyarwanda ituruka ku bimera ndetse bifashishije n'amababi y'ibyayi. Ni byiza ko tubungabunga ibidukikije kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, binyuze mu bimera ndetse n'ibidukikije bindi karemano kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza. Tubungabunga ibimera tugire ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu ubona hari ibikoresho bitandukanye birimo nk'imiti, imbuto ndetse n'ibindi. Hagaragara imbuto, inanasi, inyanya ndetse n'imiti iririmo ducupa dutandukanye ubona ko yifashishwa mu kuvura abantu. Ni byiza ko turya imbuto kuko ari nziza ku mubiri wacu mu buzima bwacu bwa buri munsi kandi turye n'imiti itandukanye kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu heza hari ibintu ubona ari ishusho igaragaza imiti myiza ya kinyarwanda twakoresha kugira ngo turusheho kwita ku buzima bwacu, ni byiza ko dukoresha imiti ya kinyarwanda kuko ituma ubuzima bwacu bushaho kumera neza kandi tukabaho twishimye igihe tutarwaye, tubungabunga ubuzima bwacu dukoresha imiti kinyarwanda tubungabunga ibimera kuko ibyo dukuramo imiti nk'iyi idufasha kugira ubuzima bwiza.

Amacupa meza n'agakarito, uwo ni mpande yaho hari ibyatsi by'amababi, ubona ko ari ibyatsi bivamo imiti myiza ya kinyarwanda, ubona hari n'imiti imwe n'imwe yagaragajwe mu macupa ateretse aho, hari n'imipande yaho ibyatsi bivamo iyo miti, ni byiza ko tubungabunga ibidukikije, harimo nk'ibyatsi karemano, bidufasha kubona iyo miti, kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Amacupa abiri asa n'umuhondo, ubona hari udukarito tubiri tw'icyatsi na kamwe karimo amabara y'ikigero n'umweru wijimye, ni byiza ko tubungabunga ubuzima bwacu ndetse n'ubw'ibimera ubona ko ari imiti myiza ya Kinyarwanda, ubona ko ari imiti ikozwe mu bimera. Ni byiza ko tubungabunga ibimera kugira ngo turushaho gukuramo imiti ndetse no kugira ngo biruheho kuduha umwuka mwiza wo guhumeka kandi turusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Ibimera ubona ko ari amababi, ibyatsi. Ubona ko ibi byatsi babyifashisha bakuramo imiti myiza ya kinyarwanda kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, igihe bakozemo imiti maze igatuma barushaho kuvurwa indwara zimwe na zimwe bakoresheje iyo miti bakoze mu byatsi. Tubungabunge ibimera kuko bidufasha kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, biduha n'umwuka muri rusange mwiza wo guhumeka.

Amacupa atatu y'umweru n'irindi ubona rifite igifuniko cy'umweru risa n'umukara ukuntu, ubona ko hari n'ibindi biri iruhande rwabyo nk'indabo, ubona ko ari imiti myiza yakozwe mu kinyarwanda, iyo bita imiti gakondo. Ni byiza ko tubungabunga ibimera kuko ni byo bivamo imiti nk'iyi, tukarushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ibimera byiza bitandukanye, ubona birimo ibyatsi byiza bidufasha kubikuramo imiti ndetse ubona hari n'ibiti biri hirya bitandukanye bidufasha kuduha umwuka mwiza duhumeka. Ni byiza ko tubungabunga ibimera kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze binyuze mu bimera ndetse n'ibindi byatsi bitandukanye.

Ibyatsi bitandukanye, ubona ko ari ibyatsi byiza bivamo imitima myiza ya kinyarwanda. Ibi ibyatsi kandi ikindi biduha umwuka mwiza wo guhumeka uretse no kuba tubikoramo imiti myiza kinyarwanda. Ni byiza rero ko tubibungabunga kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, bityo binadufashe kuduha imiti no kuduha umwuka mwiza duhumeka.

Umuti mwiza wa kinyarwanda, ubona uri mu gacupa, ufasha abantu kuba bawiborosesha, ubona ari korogati ikozwe mu gikakarubamba. Ni byiza ko dukoresha imiti nk'iyi idufasha gutuma tugira mu kanwa heza, kandi ikanavura indwara zitandukanye nk'ifumbi, ndetse no kuba umuntu yanuka mu kanwa.

Ahantu heza ubona ko ari mu murima, hari ibyatsi ubona bivamo imiti myiza ya Kinyarwanda, ibi byatsi ni byiza ko tubibungabunga kugira ngo birusheho kutubera imiti myiza idufasha kuvura ubuzima bwacu no gukura ubuzima bwacu mu kaga, kandi ikindi bidufasha no kubona umwuka mwiza wo guhumeka uretse no kuba tubikoramo imiti, ni byiza ko tubibungabunga kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu heza ubona ko hari urujya n'uruza rw'abantu ubona ko ari ahantu mu isoko ariko habakaba bahagurishiriza imbuto zitandukanye ndetse n'imiti myiza ikozwe mu kinyarwanda mu byatsi, ni byiza ko tubungabunga ibimera byacu kuko bidufasha gukuramo imiti nk'iyi nk'uko bigaragara umuntu yaje kuyigurisha mu isoko kugira ngo arusheho kubona amafaranga ndetse no kuvura abarwayi kugira ngo arusheho gukira indwara zitandukanye.

Ibimera ubona ko ari byiza cyane, ubona ko bivamo imiti myiza ya kinyarwanda. Umuntu ashobora kubikoramo iyo miti, igihe abifashe akabisya, akabisekura, akabikamuramo amazi, bikadufasha kubona ibimera byiza bivamo iyo miti.

Ahantu heza ubona hari ibyatsi bitandukanye ubona ko hari ibyatsi bita amatovu, ubona ko ari ibyatsi byiza bivamo imiti ya kinyarwanda nk'uko tubizi. Ni byiza ko tubungabunga ibimera ibyatsi nk'ibi bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi biduha umwuka wo guhumeka tukaba twanabikoramo imiti myiza ifasha ubuzima bwacu, tubungabunge ibimera rero turushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzima.

Ibimera bitandukanye ubona ko ibyatsi bifite utubabi tureture, ubona ko ibi byatsi byifashishwa mukubikoramo imitima myiza ya kinyarwanda, babisekura bagakamuramo amazi akadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tubungabunga ibidukikije kuko bivamo ibimera, n'imiti myiza ya kinyarwanda.

Icupa ry'umweru ryiza ubona ko ririmo umuti mwiza wakozwe mu bimera, ubona ko hirya hari amaronji akataguye neza, harimo ibindi byatsi. Ubona ko ari umuti mwiza ushobora kuvangamo imbuto kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza. Burya n'imbuto ni nziza ku mubiri wacu zongera intungamubiri, kandi dukore na siporo kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Amacupa atatu atandukanye abiri angana n' irindi ritoya yose ariko asa n'umweru. Urubona ko ari amacupa arimo imiti myiza ya kinyarwanda, umuntu ashobora kwifashisha yivura cyangwa ajya kwa muganga, bakayimuha kugirango arushe ho gukira indwara zitandukanye, zirimo nk'umutwe ndetse n'ibindi. Ni byiza ko igihe cyose twarwaye, tugana kwa muganga bakadufasha kugira turushaho kugira ubuzima bwiza.

Ahantu hagaragara imiti itandukanye yo mu bimera. Ni byiza ko dukoresha imiti nk'iyi, iva mu byatsi nk'ibi byiza kandi tukita ku byatsi nk'ibi byiza, kugira ngo turusheho kubona imiti myinshi yafasha ubuzima bwacu bwa buri munsi kubukura mu kaga ndetse no guhora dufite ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Tubungabunge ibimera nk'ibi, nk'uko bigaragara ko bivamo imiti myiza kandi ifasha abantu, gutuma bagira ubuzima bwiza kandi burambye.

Ubwoko bw'ibimera bitandukanye ubona ko biri mu bice bitandukanye, hariya hari ibikakarubamba, imiravumba ndetse n'ibindi bitandukanye, ni byiza ko dukoresha ibyatsi nk'ibi kuko bidufasha kubikuramo imiti myiza ya kinyarwanda ndetse bikanaduha umwuka mwiza duhumeka, tubibungabunga turusheho kugira ubuzima bwiza biturutse ku bimera nk'ibi.

Icupa ryiza ririmo umuti ubona ko wagira ni umuti mwiza wa kinyarwanda . Ubona ko ririmo umuti mwiza ukozwe mu gikakarubamba. Ubona ko ari umuti wafasha abantu kwivura ndetse no kuvura indwara zitandukanye uburaya n'ibikoresho byinshi ku ruhande abantu bifashisha bakora iyo miti basekura nk'ibikakazwa kugira ngo bakuremo amazi bakuremo umuti.

Ibimera, harimo ibyatsi byifashishwa mu gukorwamo imiti myiza ya kinyarwanda, hagaragara umuravumba ubona ko ari ibibabi byiza bishishe, umuntu bimufasha kuvura abantu inkorora igihe barwaye inkorora. Umuravumba ni ibyatsi byifashishwa mu kuvura inkoro igihe abantu barwaye, igihe ukanjakanje ukamira amazi yawo. Ni byiza ku tubungabunga ibyatsi nk'ibi kuko bidufasha kugira ubuzima bwiza no kuvura indwara zimwe na zimwe ku mibiri yacu.

Umuntu ubona afite imiti mu ntoki, ubona ko ari ibintu bitandukanye biva mu bimera, ubona ko harimo amatungurusumu ndetse n'ibindi bitandukanye. Ubona ko ari kubikoramo imiti myiza ya kinyarwanda. Ni byiza ko tubungabunga ibimera n'ibidukikije kuko ari byo bivamo imiti nk'iyi irushaho kudufasha kubungabunga ubuzima bwacu bigatuma tugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Imiti itandukanye ibona iva mu byatsi ubona ko hari korogati iva mu gikakarubamba ihari, ubona ko ari umuti mwiza umuntu yakwifashishije isukura mu kanwa, kugirango arusheho kugira amenyo meza no kwirinda umunuko mukanwa agira amenyo meza, ni byiza ko dukoresha imiti nkiyi kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu heza ubona hari ibimera bitandukanye ndetse n'imbuto bikorwamo imiti ya kinyarwanda, ni byiza ko tubungabunga ibyatsi n'ibindi bimera byose dushobora gukuramo imiti ya kinyarwanda kugira ngo turusheho kubikoresha kubikoramo imiti, turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, twifashishije imiti yavuye mwa bya bimera.

Ibyatsi by'ibimera ubona ari byiza biri hamwe ubona bitandukanye ariko bifasha abantu mu gukoramo imiti myiza ya Kinyarwanda ishobora kubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, bakarushaho kubungabunga ubuzima bwabo. Ni byiza ko dukoresha imiti nk'iyi kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze mu buzima bwacu bwa buri munsi, twiyitaho dukoresha imiti nk'iyi y'ibyatsi.

Umuti ubundi uri mu gacupa, umuti mwiza wa gakondo. Ukozwe mu bimera, mu byatsi bitandukanye. Ubona ko ari umuti mwiza ufasha abantu kuba bagira ubuzima bwiza kandi buzira umuze igihe bawunyweye, igihe barwaye. Dukoreshe imiti myiza ya kinyarwanda, turushaho kubungabunga n'ibimera bidukikije kuko ari byo biduha iyo miti.

Ibimera byiza ubona bijya kumera nk'imiravumba ubona ko ari ibiti byiza bikorwamo imiti myiza ya gakondo igihe bahise kwiba bagakamuramo amazi cyangwa bakabisekura bagakamuramo amazi akaba ari yo banywa ubundi bakabyanika bikuma bakaba banabishyira mu mazi bakabiteka bakabinywa bikarushaho kubavura indwara zitandukanye zirimo nko mu nda, umutwe n'ibindi.

Imiti itandukanye ya kinyarwanda ubona ko ari ibyatsi byashyizwe aho babisekurira kugira ngo ba bikamuremo amazi cyangwa se babikoremo ifu babike. Iyo fu irusheho kwifashishwa bayishyira mu mazi cyangwa bakayiteka mu amazi bakayinywa nk'umuti mwiza uvura. Ni byiza ko tubungabunga ibimera n'ibindi byatsi bitandukanye kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Imiti myiza itandukanya ya kinyarwanda iri mu dukarito ubona ni inyuma yayo hari n'imbuto zitandukanye nk'inanasi n'imineke, ndetse ubona ko iyo miti ari myiza igira umumaro ku mubiri wacu no ku buzima bwacu bikadufasha kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ibinini byiza bisa n'ibara ry'icyatsi, ubona biri mu kantu kameze nk'agati kabaje neza kameze nk'umwuko, ni byiza ko dukoresha imiti nk'iyi kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza idufasha kuvura indwara dufite mu mubiri, bikarushaho gutuma tugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ibimera byiza ubonaka ari icyatsi kiza kivamo imiti ya kinyarwanda gifite amababi maremare ni byiza ko tubungabunga ibidukikije harimo nk'ibimera ubona ko biterwa mu butaka cyangwa n'ibindi byimejeje nk'imiti myiza kinyarwanda, tubikoramo imiti tubibungabunga biradufasha bituma tugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu heza ubona hari ibimera bitandukanye bivamo imiti myiza ya kinyarwanda, hari n'imbuto n'ibindi byatsi, harimo nk'ibikakarubamba, ubona ko ari ibimera bivamo imiti ya kinyarwanda, ni byiza ko tubungabunga ibimera kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza, igihe twakoresheje ibyo bimera nk'imiti.

Shampo umuti mwiza ufasha abantu gukora isuku ahantu hatandukanye, harimo nko mu mutwe, ku mubiri ndetse n'aho batuye. Ni byiza ko tubungabunga ibimera kuko ubona ko iyi shampo yakozwe mu byatsi, mu bimera. Tubungabunge ibimera kuko bidufasha gukuramo ibintu bitandukanye kandi bifasha ubuzima bwacu.

Ahantu heza ubona hari imiti itandukanye, ubona ko ari imiti myiza ya kinyarwanda. Ni byiza ko tubungabunga imiti yacu ndetse tukanabungabunga ibimera bivamo ino miti kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umubyeyi w'umumama ubona afite agakapu, yikenyeje agatambaro k'umweru, ubona ari ahantu umuntu hari urutoki ubuna hari n'ibyatsi bitandukanye, ibi byatsi ariho ubona ko ari ibyatsi byiza byifashishwa mu kubikoramo imitima myiza ya Kinyarwanda ishobora gufasha abaturage kuba bayikoramo imiti ikabavura, ni byiza ko tubungabunga ibidukikije kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Ahantu ubona ari utuntu tumeze nk'utwungo cyangwa amavaze arimo imiti y'ubwoko butandukanye ya Kinyarwanda, ubona ko ifasha abantu mu kubavura indwara zimwe na zimwe bakarushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, tubungabunga ibimera, ibidukikije kuko nibyo bidufasha gukuramo imiti myiza idufasha kugira ubuzima bwiza tukarusha kugiraho iterambere ry'ejo hazaza.

Ibyatsi byiza, ubona ko ari icyatsi giteye neza gishishe, cy'imera cyiza, kivamo umuti mwiza wa Kinyarwanda. Iki cyatsi ushobora kugifata ukagisekura, ukacyanika cyikuma, kikavamo ifu nziza, ishobora kuba umuti mwiza. Ikindi ushobora kugisekura, ugakuramo amazi yacyo kugira ngo uruseho kuyanywa, urusheho kugira ubuzima bwiza, igihe warwaye indwara zitandukanye. Ni byiza ko twita kubimera kuko bivamo imiti myiza ya Kinyarwanda.

Ibinini bitatu ubona ko ari bininini byiza byafasha abantu kwivura ndetse no kuvurwa indwara zitandukanye, ni byiza ko igihe cyose ugize ikibazo ugana kwa muganga bakagufasha, kugirango ngo urusheho kugira ubuzima bwiza bakaguha iminini igufasha kuvurwa indwara nk'izo urwaye.

Ubwoko bw'imbuto zitandukanye harimo amaronji ndetse n'ibindi biri ku gasahani ubona hari n'agatangawizi ku ruhande, ni byiza ko dukoresha ibintu nk'ibi kuko bishobora kubikorwamo imiti myiza ishobora gufasha ubuzima bwacu bwa buri munsi gutuma turushaho kumera neza dukoresha imbuto ndetse n'ibindi bitandukanye by'ibimera bivamo imiti kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Imiti itandukanye ya kinyarwanda ubona harimo imbuto n'ibindi byatsi basekura bikavamo iyo miti, ni byiza tubungabunga ibimera kuko ari byo bivamo imiti nk'iyi idufasha gukira indwara zitandukanye zibasira ubuzima bwa muntu agatuma acika intege, ni byiza ko turwanya indwara nk'izo binyuze mu kubungabunga ibidukikije biduha imiti nk'iyi.

Ibyatsi ubona ko ari ibimera byiza bifite n'utubuto twizwa ubona ko bijya gusa n’inkarishya, urabona ko ari ibyatsi byiza bivamo imitima myiza ya kinyarwanda, ubona ko bizana n'imbuto zifasha abantu kwivura igihe basekuye nk'izi mbuto cyangwa bakaziteka bakazirya. Ni byiza ko tubungabunga ibidukikije, kuko bidufasha kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, kandi biduha n' umwuka mwiza wo guhumeka.

Ahantu hasi ubona harambitse icyatsi kiza, ubona ko ari icyatsi kivamo imiti myiza ya kinyarwanda, ushobora gukoramo umuti muri iki cyatsi, kikagufasha igihe urwaye, ndetse ukaba wanavura bagenzi bawe, cyangwa ukaba wakwivura wowe, ukarushaho kugira ubuzima bwiza buzira umuze. Tubungabunge ibimera n'ibidukikije, kuko ari byo bivamo imiti nk'iyi, kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza no kubona aho dukura imiti.

Imbuto zitandukanye harimo ibitunguru, indimu ubona ko bafata ibitunguru bakabivanga n'indimu bikavamo umuti mwiza ubona ko ari baho neza tivi yabyamamaje. Ni byiza ko tubungabunga ubuzima bwacu dukoresheje imbuto, n'ibindi bitandukanye kuko imbuto ni zigira intungamubiri nyinshi zitanga ku mubiri turusheho gukoresha intungamubiri zivuye mu mbuto tugira ubuzima bwiza kandi tubungabunga n'ibidukikije kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu heza hari amacupa abiri y'umuhondo, ubona ko harimo imiti myiza ya kinyarwanda, hari n'agakarito kanditseho nutrition ubona karimo, intungamubiri zitandukanye umuntu ashobora kwifashisha yita ku buzima bwe, bishobora no gufasha abana bato, mu kubavana mu ibara ry'umutuku, tukabashyira mu ibara ry'icyatsi, tukagabanya igwingira mu bana. Ni byiza ko dukoresha ibiryo nk'ibi birimo intungamubiri binoze, n'imiti nk'iyi ya kinyarwanda.

Imiti y'ubwoko butandukanye ubona iri mu makarito, ubona ko harimo korogati hari n'ibindi bikoresho biri mu dukarito. Ni byiza ko dukoresha imiti nk'iyo iva mu bimera kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, by'umwihariko tubungabunga ibyatsi n'ibimera kuko biduha umwuka, tukanabikoramo iyo miti myiza idufasha kugira ubuzima bwiza.

Umugabo ubona ko ari ahantu hari ibyatsi byinshi hari ibimera. Ubone ko ibi bimera bitandukanye bishobora gukorwamo imiti myiza iva mu bimera gakondo tukarushaho kubungabunga ubuzima bwacu dukoresheje iyo miti, kugira ngo turuho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Tubungabunga ibidukije kubera ko ari bwo havamo ibimera bitanga imiti kandi biduha n'umwuka mwiza wo guhumeka.

Ibyatsi ubona bifite amabara y'icyatsi, ubona ko hariho indabo z'umutuku. Ibi ni ibimera byiza bifasha abantu kuba babikoramo imiti itandukanye igihe ubisekuye, ibi bivura indwara zimwe na zimwe mu mubiri wacu. Ni byiza kubungabunga ibimera n'ibyatsi bitandukanye, kuko biduha imiti myiza, ndetse nubwo bitaduha imiti biduha n'umwuka mwiza wo guhumeka.

Umuti ubona ko ari korogate ikozwe mu bimera hibandwa ku gikakarubamba kugira ngo barusheho kubungabunga ubuzima bwa muntu, harimo nk'amenyo ye arushaho kugira isuku mu kanwa. Ni byiza ko tubugabunga mu kanwa hacu dukora isuku dukoresheje imiti nk'iyi myiza yabugenewe n'amazi meza na korogati nk'iyi ndetse n'uburoso. Dusukure mu kanwa hacu tugire ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Avoka ubona ko bari kwerekana uburyo ki avuka ivamo isabune nziza dushobora gukoresha ku mubiri wacu dukaraba tukarushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, uyivanze n'igikakarubamba kugirango urusheho kwita ku ruhu rwawe ukoresheje iyi isabune.

Amacupa atatu ubona nateretse ku tuntu twiza tw'umweru ubona ko na yo asa n'umweru, ubona arimo imiti itandukanye ishobora gufasha umuntu igihe yayinyweye kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, turusheho gukoresha imiti tubungabunga ubuzima bwacu kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ibimera byiza ubona ko ari ibibabi byameze ahantu mu rugo bubatse, ubona ko ari ikibabi cyiza cy'amababi maremare gikorwamo imiti myiza ya kinyarwanda, kikanatanga umwuka mwiza ahantu hose, kugira ngo turusheho guhumeka neza no gukuramo imiti idufasha muzima bwacu bwa buri munsi.

Ibyatsi ubona bifite amababi maremare byiza bivamo imiti ya kinyarwanda. Urabona ko ari ibyatsi bifite ubushobozi bwo kuba babikoramo imiti ndetse no gutanga umwuka mwiza ku bantu wo guhumeka, ni byiza ko tubungabunga ibimera, kugirango turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umugabo ubona arimo agaragaza ko atanga imiti ndetse ari n'umujyanama kubijyanye n'ubuzima. Ni byiza ko tugana ahantu nk'aha hari imiti myiza ndetse batanga n'inama ku bijyanye n'ubuzima kugira ngo turusheho kugira ubumenyi ku buzima bwacu, kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima bwacu kandi turusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Amacupa atandukanye ubona hari n'udukarito dupfunyitsemo imiti, ubona ko iyo miti ari iya Kinyarwanda yifashishwa mu kuvura abarwayi igihe barwaye, iyi miti iva mu byatsi igihe basekuye nk'ibyatsi bakabyanika bakabikoramo ifu cyangwa se bakabisekura bakabikamuramo amazi, ni byiza ko tunywa imiti ya Kinyarwanda kugira ngo idufashe kugumaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ibyatsi bitandukanye ubona ari ibimera byiza iva imiti ya kinyarwanda, ubona ko abantu bayifashe mu biganza, ubona ko bari kwerekana ko ari ibyatsi byiza ushobora kubungabunga cyangwa ugatera bivamo imiti myiza ifasha abaturage kwivura muri rusange ndetse no kubabera umuti mwiza ubakiza indwara zimwe na zimwe zibata ubuzima bwabo, zikaba zashyira ubuzima bwabo mu kaga. Tubungabunge ibidukikije bityo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Imboga za mashu nk'uko bigaragara ubona ko ari imboga zifasha abantu kubavura ndetse n'igihe bafite uburwayi runaka. Ni byiza ko dukoresha imboga kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, ubona ko hari n'ibindi byatsi biri ku ruhande bikorwamo imiti myiza ya kinyarwanda. Ni byiza ko dukoresha imiti myiza ya kinyarwanda kugira turusheho kugira ubuzima bwiza tunabungabunge ubuzima bwacu.

Abantu benshi ubona bari ahantu habugenewe hari imbuto nziza zitandukanye zikiri mu bihoho, ubona ko harimo ibyatsi bitandukanye abantu bashobora gutera bikadufasha kubona umwuka ndetse no kuba twabikuramo imiti itandukanye myiza ya kinyarwanda. Ni byiza ko tubungabunga ibimera kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Igiti cyiza ubona ko ari umuravumba. Umuravumba n'ibyatsi byiza bifasha abantu kubavura indwara zitandukanye harimo nk'inkorora, mu nda ndetse n'ibindi. Ni byiza ko dukoresha ibiti nk'ibi kugira turusheho kwirinda indwara zitandukanye kuko ari imiti myiza ya kinyarwanda.

Ibimera biri mu mashusho ane atandukanye ubona ko ari ibimera byiza cyane bivamo imiti myiza ya kinyarwanda ya gakondo ,ni byiza ko tubungabunga ibidukikije nk'ibimera cyane cyane bivamo imiti kugirango ngo turusheho kugira ubuzima bwiza. Uretse kuba biduha imiti myiza biduha n'umwuka mwiza wo guhumeka tubibungabunga turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu hari ubwoko butandukanye bw'ibimera. Ubona ko ari ibyatsi bikorwamo imiti ya kinyarwanda, ifasha abantu kwita ku buzima bwabo, igihe bashaka kubungabunga ubuzima bwabo, barushaho kugira ubuzima bwiza. Ni byiza ko dukoresha imiti nk'iy'ibyatsi kugirango turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ibimera ubona ko ari ibyatsi bifite amababi meza harimo n'utubuto ubona ko wagira ngo ni inkarishya, ni byiza ko tubungabunga ibimera kuko bivamo imiti itandukanye ndetse bikanadufasha kwivura kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza bwa buri munsi, ni byiza ko tubungabunga ibiti n'ibimera nk'ibi kuko biduha umwuka mwiza wo guhumeka uretse no kuba biduha imiti.

Icupa ry'umweru ubona ririmo umuti ryanditseho Foreva, ubona ko ari umuti w'abana, nk'uko bigaragara ufasha abana mu kuba bakira indwara zimwe na zimwe, maze bakarushaho kugira ubuzima bwiza, binyuze mu kuba banyweye imiti nk'iyi ibafasha kugira ubuzima bwiza.

Ibyatsi bitandukanye ubona ko ari ibimera byiza gakondo, ubona ko bifite amabubi maremare, ushobora kubifata ukabisekura, ugakamuramo amazi bikavamo umutima mwiza wa kinyarwanda, ushobora gufasha abantu bakuru ndetse n'abana kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, kandi ikindi ibimera nk'ibi bitanga umwuka mwiza wo guhumeka tubibungabunga turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ibyatsi ubona ko ari ibimera byiza bikorwamo imiti ya kinyarwanda, ubona biri ahantu mu murima, ubona ko byagandaye ari binini kandi bifite amababi maremare, ni byiza ko tubungabunga ibimera harimo ibyatsi nk'ibi bivamo imiti kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze biturutse muri ibyo bimera dukoramo imiti bikarushaho kudufasha kwita ku buzima bwacu.

Ahantu heza ubona hari amashusho atandukanye ari mu bice bitandukanye. Ubona ko ari ibyatsi byiza bivamo imiti myiza ya Kinyarwanda ifasha abantu kuba bakwivura kugira ngo barusheho kubungabunga ubuzima bwabo, barusheho kuba mu buzima bwiza buzira umuze. Ni byiza ko dukoresha imiti nk'iyi nk'uko yagaragajwe ku byiciro bitandukanye kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima bwacu no kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ibimera ubona ko ari ibyatsi byiza barimo gusekura, kugira ngo babisye babikoremo ifu irusheho gukoreshwa bakuramo iyo miti. Ni byiza ko dusekura ibyatsi cyangwa tukanabungabunga ibyatsi, kugira ngo tubone ibyo tuzasekura tukabikuramo imiti idufasha kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Tubungabunge ibimera kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Tungurusumu nyinshi zitandukanye, ubona ko zifasha abantu bakaziteka zigatuma abantu bagira ubuzima bwiza, kandi bakarushaho kugira umubiri mwiza igihe bariye imbuto nk'izi, tungurusumu ni imwe mu miti myiza y'ibimera abantu bavanga n'ibyatsi bitandukanye babinywa bikarushaho kugira ubuzima bwiza bwa bo, no gutuma barushaho kugira ubuzima bwiza.

hAantu heza hari ubwoko butandukanye bw'ibimera ubona ko ari imiti yakozwe mu byatsi, hari ubwoko butandukanye bw'iyo miti. Iyi miti nk'uko igaragara ni imiti ikorwa mu byatsi, ifasha abantu kubungabunga ubuzima bwa bo no gutuma bavurwa indwara zishobora kuba zabafashe cyangwa banduye, ibimera bifasha abantu gukuramo imiti myiza ifasha ubuzima bwa bo.

Ahantu ubona bahacururiza imiti ya kinyarwanda itandukanye ikorwa mu bimera, ubona ko hari umukobwa uhagaze inyuma yaho wambaye umupira w'umweru, hirya hari umuntu uri kugenda mu muhanda ubona ko inyuma hari inyubako nziza, ubona ko ari ahantu ku muhanda. Bahateretse imiti bacururiza. Ni byiza ko igihe wagize ikibazo, ujya ahantu nk'aha bakaguha umuti, ukavuga uko ubabara bakagu umuti ujyanye n'uko ubabara kugira ngo urusheho, gukira no kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza.

Imiti myiza itandukanyekanywe ubona iri mu macupa atandukanye, harimo ikorwa mu bikakarubamba nk'ibimera byiza bivamo imiti ya kinyarwanda, aya yose ni amacupa arimo imiti ya kinyarwanda ubona ya gakondo ikozwe mu byatsi no mu bimera bitandukanyebona, ubona ko ifasha abantu kurushaho kugira ubuzima bwiza igihe bayikoresheje bayinywa.

Ahantu heza ubona hari imiti itandukanye ya Kinyarwanda ikorwa mu byatsi, ubona ko imeze nk'imiti ikozwe mu gikakarubamba, igikakarubamba ni icyatsi cyiza, gikorwamo imiti myinshi itandukanye ifasha abantu gutuma bagira ubuzima bwiza igihe banyweye imiti iturutse ku gikakarubamba, ni byiza ko tubungabunga ibimera kuko biduha imiti myiza nk'iyi tukarushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Imiti itandukanye iri mu macupa atandukanye, hari amacupa, hari n'udukarito, ubona ko ari imiti myiza yakozwe mu bimera, ni byiza ko tubungabunga ibimera kuko tubikoramo imiti myiza, idufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, tukarushaho kumera neza mu buzima, ni byiza ko tubibungabunga kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Amacupa atandukanye, ubona amwe apfundikishije imifuniko y'umutuku, andi apfundikije Iy'umweru ariko ubona ko afite ibirango bimwe. Ubona ko har’amacupa arimo ibyatsi bitandukanye ubona ko ari imiti ikomoka ku byatsi myiza, ishobora gufasha abaturage ndetse n'abandi bantu kuyinywa igihe barwaye, bakarushaho kugira ubuzima bwiza. Ni byiza ko tubungabunga ibimera neza tukabikoramo imiti nk'iyi, ibi bishobora kuduha umwuka mwiza wo guhumeka, tukarushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ibyatsi bitandukanye ubona hari agasekuru n'agahini gatoya, bafata ibyo byatsi bakabisekura, bakabyumisha cyangwa bakabikamuramo amazi kugira ngo barusheho gukuramo imiti myiza ya kinyarwanda ifasha abantu gutuma bagira ubuzima bwiza igihe barwaye bakayikoresha kugira ngo bakire.

Icupa ubona ririmo umuti mwiza wa kinyarwanda, ubona ko hagaragajwe ibyatsi ryakozwemo harimo ibikakarubamba n'imbuto zitandukanye, kugira ngo barusheho kwita ku barwayi babaha uno muti igihe barwaye. Ni byiza kubungabunga ibimera harimo cyane cyane ibyatsi bidufasha gukuramo imiti nk'ibikakarubamba n'ibindi.

Ibyatsi bitandukanye ubona ko ari ibimera byiza bivamo imiti myiza ya kinyarwanda, ni byiza ko tubungabunga ibimera nk'ibi ndetse tukanabyitaho kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza bukomoka kuri ibyo bimera, ibimera uretse no kuba twabikoramo imiti myiza ya kinyarwanda bishobora no kuduha umwuka mwiza duhumeka tukarusha gukomeza kubaho mu buzima bwiza kandi buzira umuze.

Korogati nziza ubona ko ifasha abantu gusukura amenyo yabo ,ubona ko ikozwe mu gikakarubamba ,ni byiza ko dukoresha korokati nk'izi zikozwe mu bimera kuko zidufasha kubungabunga amenyo yacu no kugira isuku mu kanwa ,tukagira impumuro nziza twirinda umunuko mu kanwa, ni byiza ko tugana farumasi tukaguramo imiti nk'iyi ndetse tukayikoresha.

Ibyatsi ubona ko ari ibimera byiza, bivanwamo imiti myiza ya kinyarwanda, ifasha abantu kuba bakira indwara zimwe na zimwe barwaye, bakarushaho gukomeza kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, binyuze mu kunywa iyo imiti. Ni byiza ko tubungabunga ibimera kuko bivamo imiti myiza ya kinyarwanda.

Ibimera bitandukanye ubona birimo amababi manini, imbuto ndetse na cyayi icyayi, ubona hari n'ibindi bimera ubona ko ari ibimera umuntu ashobora gusekurira hamwe, bikavamo imiti myiza ishobora gufasha ubuzima bw'umuntu igihe yari arwaye. Ni byiza ko tubungabunga ibimera rero kuko bidufasha kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze tubikuramo imiti kandi biduha n'umwuka mwiza wo guhumeka.

Ibyatsi ubona byiza bishishe ubona ko ari binini birebire ni byiza ko tubungabunga ibimera byacu ubona ko bivamo imiti myiza gakondo idufasha kubungabunga ubuzima bwacu igihe twayinyweye twarwaye, kandi ikindi uretse no kuba tubikoramo imiti biduha n'umwuka mwiza wo guhumeka witwa ogisijeni. Ni byiza ko tubungabunga ibidukikije kuko nibwo tuzagira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ibyatsi, ibimera byiza ubona bivamo imiti myiza ya gakondo, ushobora kwifashisha ukabikuramo imiti mu gihe warwaye cyangwa ugabikoramo imiti ukaba wayijyana ku isoko. Iyi ni ibyatsi bishobora kuvamo imiti myiza ishobora gufasha abaturage kuba bagira ubuzima bwiza kandi buzira umuze igihe bayikoresheje neza nk'uko bisabwa.

Imiti itandukanye ubona iri mu macupa atandukanye hari n'iri mu dukarito, ubona ko ari imiti myiza yo mu kinyarwanda, ubona ko ari imiti ya gakondo ikozwe mu bimera. Ni byiza ko dukoresha imiti nk'iyi kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza no kubungabunga ubuzima bwacu dukoresheje imiti nk'iyi kugira ngo irusheho gufasha ubuzima bwacu kumera neza igihe turwaye.

Ibyatsi ubona ari ibyatsi bimeze nk'imiravumba, ari amababi meza avamo imiti myiza ya kinyarwanda, igihe wayasekuye cyangwa igihe wayakamuyemo amazi ukayakoramo uwo muti mwiza unyobwa, ukarushaho gukiza umurwayi runaka igihe arwaye indwara, akarushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ahantu ubona hari akantu k'umuhondo kameze nk'agapaki gapfunyitsemo imiti ya kinyarwanda ubona ikozwe mu byatsi, aho uyu muti ufasha abantu bafite ikibazo mu mubiri bakarushaho gukira, ni byiza ko tubungabunga ubuzima bwacu dukoresheje imiti nk'iyi myiza.

Umuti mwiza ubona urimo ibimera uvanzemo n'ubuki ufasha abantu kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze igihe wabawunyweyo ubona ko wakozwe mu bimera ni byiza ko tubungabunga ibimera kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze tubungabunga ibimera turusheho kugira ubwo ubuzima bwiza kandi ikindi bishobora no kuduha umwuka mwiza wo guhumeka nubwo tutabikoramo umuti.

Ibimera bitandukanye ubonako ari ibyatsi bizavamo imiti ya Kinyarwanda bidufasha kubungabunga ubuzima bwacu tubikoramo imiti ikadufasha ku buzima bwacu igihe twayinyoye. Ni byiza ko turushaho kubungabunga ibidukikije kuko nibwo tutabikuramo imiti bidufasha kuduha umwuka mwiza wo guhumeka, kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze tubungabunga ibimera ndetse n'ibidukikije muri rusange.

Uducupa tubiri tw'umuhondo twegeranye n'ikarito y'icyatsi ubona turimo imiti myiza ya Kinyarwanda. Ni myiza, iyo miti idufasha kuvura indwara zimwe na zimwe zitandukanye ku mubiri wacu kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Dukoreshe imiti nk'iyi mu buzima bwacu bwa buri munsi bizadufasha kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ibyatsi ubona ko ari ikibabi cyiza kigandaye, ubona hirya hari n'ibindi bibabi, ubona ko ari ibyatsi byiza bya Kinyarwanda, bivamo imiti myiza, twakwifashisha twivura. Ubona hakorwamo imiti myiza ya Kinyarwanda, igihe bafashe nk'ibi byatsi bakabisekura bakabikamuramo amazi, ugakamuramo ariya amazi yabyo, ashobora kukuvura indwara zimwe na zimwe zitandukanye. Ni byiza ko tubungabunga ibyatsi, n'ibimera bitandukanye kugira ngo turushaho kugira ubuzima bwiza, binyuze mu miti dukuramo.

Ibyatsi ubona ko bivamo imiti myiza ya Kinyarwanda bifasha abantu ku isi yose, kubikoramo imiti ibakiza indwara zimwe na zimwe ziba zarananiranye, kandi iyi miti tuyibungabunge, aho iri hose nk'ibimera kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze binyuze mu bimera nk'ibi dukoramo imiti myiza idufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ibiribwa bitandukanye muri aha hari igitoki, imboga z'ibyatsi ariko nako ibyo byatsi bijwe no kumo imiti myiza ya kinyarwanda ya gakondo, ishobora gukorwamo imiti kugirango ngo turushe kubungabunga ubuzima bwacu dukoreshe iyo miti igihe twarwaye, ni byiza ko tuvuga mu buzima bwacu twahuywa n'ibidukikije kuko bidufasha cyane cyane ibimera nk'ibyatsi, kuyikuramo imiti ndetse tukaba tunabikoramo imboga zidufasha, kuba twarya zikatuvura indwara zitandukanye.

Ubwoko bw'imiti butandukanye ubona ko ari imiti myiza ya kinyarwanda. Harimo n'imbuto zishobora kugufasha gufatikanya n'iyo miti myiza ya kinyarwanda, kugira urusheho kugira ubuzima bwiza. Haragaragara imbuto nk'imineke, inanasi ndetse n'imiti ya kinyarwanda y'ibyatsi. Ubona ko ikozwe neza ipfunyitse, ni myiza ko tubungabunga ibimera, kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza, bitewe n'uko twabungabunze ibimera, tukabikoramo ...